Abadamu bicaye hanze mu mbuga, umwe akaba ari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba yafashe agakoresho agashyira umwe ku kuboko ari kumusuzuma.

Abantu benshi bahagaze mu muhanda, bafite icyapa cyerekana ibikorwa, bambaye ingofero z'umweru n'imipira y'umweru, harimo n'abambaye imipira isa ubururu.

Ahantu hasa nkaho hatunganyirizwa ibintu runaka, hari amamashini ndetse hirya yaho ni ishyamba ririmo ibiti binini, impande yaho hari ibyatsi n'ibitaka biharunze.

Ikigo cy’amashuri kigaragara giteyemo indabyo, inyuma yacyo hakaba hateye n’ibiti. Hino, haragaragara umwana w’umukobwa wambaye ikanzu y’ubururu, n’imbere harimo agashati k’umweru, ari ku mugezi, akaraba mu ntoki.

Ivomero rusange riri ahantu, inyuma hakaba hari ibiti bigaragara hakaba hari umudamu ukenyeye igitenge akaba afite akana gatoya mu kuboko kambaye akagofero k'umweru, afite n'indobo y'umukara ari kuvoma amazi.

Abantu basa nk'aho bahagaze hanze y'inyubako, iruhande rw'umudamu hari idirishya rinini, imbere yiwe hakaba hari amakarito ahapanze, ari mu ibara ry'icyatsi n'indi iri mu ibara ry'umweru, hari umugabo wambaye ijiri iranga ibyo akora.

Imodokari ziri mu muhanda ziri mu bwoko bw'amakamyo amwe manini, hirya yaho hakaba haparitse indi ariko itagaragara, ziri mu ruhande rwa kaburimbo.

Ahantu bavomera amazi inyuma hagaragara ibiti, hakaba hari umwana wicaye ku ivomero ari koga intoki, iruhande rwiwe hari amarido, iy'ubururu n'iy'umuhondo.

Sale irimo abantu batandukanye, hari umubyeyi wambaye umupira w'umweru uteruye akana n'umusore uri kukanywesha amata, hirya yiwe hari n'umudamu wambaye ingofero na we uri kuvugana n'umubyeyi wicaye hasi.

Abantu bicaye ahantu hameze nko muri shitingi, imbere yabo hari imeza iriho amoko atandukanye y'imiti, umwe akaba yambaye bagi igaragaza imirimo akora, inyuma yabo hari uhahagaze umwe wambaye itaburiya y'umweru.

Hanze ahantu hagaragara ivomero, hari amajerekani menshi ahateretse, hakaba harimo abadamu ndetse n'umugabo, bambaye udupfukamunwa bose.

Umugabo usa nkaho akuze uri ku ivomero rusange, akaba afite ibido mu ntoki, yambaye ishati y'amaboko magufinya ndetse n'ipantaro y'umukara.

Ivomero rusange hakaba hari umwana wambaye ibirenge, ufite indobo y'umuhondo akaba agiye kuyikorera, imbere ye hahagaze umugabo utagaragara mu maso.

Sale irimo abantu benshi batandukanye, harimo abazungu n'abirabura, imeza iri imbere yabo hariho uducupa turimo amazi ndetse n'icyo twakwita amakayi.

Abadamu bari ku ivomero rusange, umwe akaba afite indobo ari kudaha amazi mu kibase kinini kiri kuri robine, abandi bakaba bari kumufasha kumuvomera.

Abantu bari muri sale kwa muganga, haragaragaramo umudamu uteruye umwana mutoya ndetse n'umunzani wifashishwa mu gupima ibiro by'utwana dutoya.

Umwana mutoya wambaye umupira w'umutuku, akaba ahagaze ku ivomero ari gukaraba ibiganza, hakurya y'iwe haragaragara ibiti ariko bitagaragara neza.

Abantu benshi bahagaze mu mbuga imbere y'ivuriro, hakaba hateye na shitingi, iruhande hakaba hari n'imodokari, hakaba higanjemo abadamu, abagabo ndetse n'abana.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umwana ndetse n'abadamu babiri, umwe wambaye ipantaro y'umukara n'umupira w'umweru n'agatambaro k'umweru uteruye akana gatoya.

Inyubako zigaragara ziri ahantu mu kibaya hakurya akaba ari imisozi, imbere akaba ari ikidamu kimeze nk'ikirimo amazi n'ibyuma byifashishwa kuyavanga.

Umwana mutoya uhagaze, wambaye agashati k'umuhondo n'agakabutura k'ubururu, afite uducupa mu ntoki, hakurya yiwe hahagaze abandi bana batatu.

Abantu batatu bicaye ahantu hameze nko muri sale, ku meza hateretse uducupa dukozwe mu birahure tw'amazi, umugabo imbere ye akaba afite mudasobwa.

Abantu bahagaze ahantu hanze, inyuma yabo hari icyapa kinini kigaragaza ibibera aho hantu, hari abambaye imipira y'imyeru, ubururu n'abadamu bambaye amakanzu maremare.

Ni umudamu wicaye, ari guseka, yambaye ijipo y'umukara, afite ibido mu ntoki y'umuhondo iteretse mu ibase, ari kuvoma, inyuma y'iwe hakaba hanitse imyenda.

Abantu bahagaze ahantu hanze, bakikijwe n'ibiti haragaragaramo abagabo ndetse n'abadamu, abambaye amataburiya ajya gusa uburu ndetse n'irisa umweru bose bambaye amakarita mu ijosi yerekana imyirondoro yabo.

Ivomero rusange rigaragaraho abantu benshi batandukanye, biganjemo abana batoya bose bakaba bafite amabido baje kuvoma amazi.

Inyubako imeze nkaho ari sale mo imbere, hakaba hicayemo abantu basa nkaho bari mu nama runaka, abicaye imbere harimo abadamu batanu n'umugabo umwe.

Abantu bari mu cyumba kwa muganga, umwe ni umudamu uteruye akana, undi ni umudamu usa nk'aho ari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, akaba ari gupima ako kana bateruye.

Abantu bari ahantu mu muhanda, inyuma yaho hari ibiti, harimo umwana mutoya ndetse n'umuganga wambaye ikintu gihisha isura ndetse n'agapfukamunwa, afashe umusaza ku rutugu wambaye ingofero.

Imbere mu nyubako hari abantu batandukanye; hari abana, inyuma yabo hari abantu bakuru bahicaye. Hirya yabo hakaba hari ameza ateretseho utuntu tutagaragara.

Inyubako bisa nkaho ari ibitaro, akaba hanze haparitse imodokari, impande hakaba hari ibiti bitoya, hanze hakaba hari abantu benshi cyane, biganjemo abamama ndetse n'abapapa.

Umudamu wambaye ikarita mu izosi yerekana imirimo akora, akaba yambaye n'ijakete ijya gusa umukara n'amarinete, afite impapuro mu ntoki ari kugenda ahereza abantu.

Sale isa nkaho ari iyo kwa muganga haragaragaramo intebe, amameza n'umudamu wambaye imyenda yo mu bitenge, uri kwandika ibintu, imbere yiwe hahagaze umugabo.

Ahantu mu ihema hagaragaramo abantu benshi batandukanye, abadamu ndetse n'abagabo, aha imbere hari ufite akana gatoya, umugabo ari kugashyira akantu ku kuboko.

Abantu benshi bicaye muri shitingi, umwe ahagaze imbere yabo afite mikoro, ari kubahereza ikiganiro cyangwa ubutumwa runaka, hirya haragaragara abafite imitaka.

Icyumba cyo kwa muganga hari umubyeyi wicaye ku gitanda kiryamyeho akana, hari n'abaganga babiri uw'umudamu n'uw'umugabo bari kuvura ako kana ku kuboko.

Akavomero gateretse ahantu ku meza gasa nk'aho kagendanwa, iruhande hakaba hari isabune ndetse n'ibiganza byateze ku mazi ari kumanuka byoga.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako, bose bakaba bambaye imipira iri mu ibara ry'ubururu, imbere handitse amagambo ari mu ibara ry'umweru, bambaye ingofero z'umweru.

Abantu bari hanze y'inyubako yubakishijwe imbaho, abadamu ndetse n'abagabo, harimo n'utwana dutoya, hari uhagaze, ufite agatabo mu ntoki na bike, asa nkaho ari kubaganiriza.

Abantu benshi bicaye muri sale, hahagaze umudamu uri gutanga ikiganiro, imbere yabo hari imeza ziteretseho uducupa tw'amazi.

Abantu bicaye mu ihema, batandukanye imbere, hasi hicaye akana, imbere hahagaze umugabo usa nk'aho ari gutanga ikiganiro, ufite mikoro mu ntoki.

Ivomero rusange rigaragaraho abana batandukanye ndetse n'amabido menshi y'umuhondo ndetse n'iy'umukara, utubido tw'umweru, bari kuvoma amazi.

Ahantu havomerwa amazi hari abadamu babiri, ugaragara ukenyeye igitenge n'undi uri kuri robine wambaye igitenge, ufite indobo y'icyatsi ari kuvoma amazi.

Abadamu babiri ndetse n'umwana, inyuma yabo hari insina zihateye bakaba bari ku ivomero rusange, hari amabido menshi ahateretse bari kuvoma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umubyeyi uteruye umwana mutoya cyane, hakaba harimo n'umudamu wambaye itaburiya y'umweru w'umuganga uri gusuzuma uwo mwana.

Abantu bahagaze muri sale, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo bose bambaye amakositime, inyuma yabo hakaba hari icyapa kinini cyanditseho amagambo atandukanye.

Abantu bicaye ahantu hameze nko muri salle iberamo inama, harimo babiri babadamu abandi batatu ni abagabo, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara atandukanye, hari ari mu ibara ry'icyatsi ndetse n'ari mu ibara ry'umweru, hakaba hariho n'igishushanyo mbonera kigaragaza ingano y'ubukire ndetse n'ubukene.

Abantu babiri bicaye muri sale, umwe akaba yambaye amarinete n'isaha ku kuboko, ku meza iri imbere yabo hateretseho uducupa turimo amazi.

Umwana mutoya cyane uhagaze mu cyo twakwita umugezi cyangwa se icyuzi, afite akabido k'umuhondo akaba yagacubije mu mazi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bwa buri munsi, harimo imashini ipima ubuzima bw'umurwayi uko buhagaze ndetse n'umuganga utagaragara mu maso.

Abantu bahagaze ahantu hameze nko mu muhanda, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo, bakaba bari guterura imifuka y'imyiru, irimo ibintu mo imbere.

Abana bane bahagaze bose bari guseka, hasi hateretse ibase irimo amazi, inyuma hari umugabo utagaragara mu gice k'isura ufite igikombe, akaba yambaye na bote.

Abantu bicaye hanze harimo abaganga abandi ni abarwayi, bakaba bari gusuzumwa hifashishijwe udukoresho twabugenewe, ku meza hakaba hari udukarito harimo akarimo ga.

Ivomero rusange risa nk'aho riri hasi mu kibaya, hakaba hari abana bari kuvoma, umwe afite akabido mu ntoki yashyize kuri robine, ak'umuhondo n'umweru, inyuma y'uri kumuvomera na we hateretse akabido k'umuhondo.

Umudamu usa nkaho ari mukuru wikoreye ibido isa umuhondo n'umufuniko w'umutuku, iruhande hakaba hari akana katagaragara neza kambaye umupira w'ubururu, hepfo yiwe hari akandi kikoreye akabido.

Abantu bahagaze hanze imbere y'inyubako, akaba biganjemo abadamu ndetse n'abasore bameze nk'aho bari kwifotoza.

Sare yo kwa muganga harimo abantu benshi bicaye ndetse harimo n'abandi bahagaze, akaba ari umudamu uteruye akana gatoya, afite ipapuro mu ntoki.

Abantu bahagaze hanze ku mayesikariye, harimo abadamu ndetse n'abagabo; abambaye amataburiya ajya gusa ubururu ndetse bose bambaye udupfukamunwa.

Umwana mutoya uteruwe n'umubyeyi utagaragara, wambaye akantu k'umweru mu misatsi y'iwe hakaba arimo udusaro tw'amabara atandukanye, hari umuganga utagaragara uri kumujomba agashinge ku kuboko kwe kw'iburyo.

Abantu babiri bicaye hanze inyuma yabo hari icyapa kigaragaza y'uko sida itigeze icika igihari, umwe ni umuganga afite ikayi nini ari kwandika yambaye agapfukamunwa na terefone mu kuboko.

Abantu bahagaze hanze, ni umugabo usa nkaho akuze, wambaye ikote n'umudamu ukuzemo, wambaye agakanzu k'umweru gashushanyijeho ibirabo.

Abantu benshi bahagaze muri sale, akaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo, inyuma hakaba hamanitse ikintu kiranga ibibera muri sale.

Abantu bicaye mo imbere mu nyubako ahari kubera inama, inyuma urebye hateretse icyo twakwita nka camera, imbere kandi hicaye umudamu iruhande hari akameza gateretseho amacupa arimo amazi.

Icyumba cyo kwa muganga, kigaragaramo umubyeyi uteruye umwana mutoya, ndetse n'umuganga w'umudamu wambaye itaburiya y'umweru, afite umuti ari guhereza akana gato.

Umuntu uhagaze wambaye amarinete ndetse n'ikoti ry'umukara na karuvati, uhagaze ku ruvugiro, iruhande rwe hari intebe ebyiri ziriho utumeza duteretseho amazi yo kunywa.

Umwana mutoya wambaye akenda k'umutuku akaba ahagaze imbere y'ivomero, yafunguye amazi ari koga mu biganza, hakurya hari ibiti bitagaragara neza.

Umugabo wambaye umupira ujya gusa umuhondo, akaba yambaye linete, afashe akana yashyize ku munzani bapimiraho ibiro.

Umudamu uri hanze y'inzu, imbere yiwe hakaba hariho akantu bifashisha mu gukaraba intoki ako bakunze kwita kandagira ukararabe, akaba yambaye ingofero ndetse n'igitenge.

Abantu bari hanze y'inyubako benshi basa nkaho bari kuririmba bana byina, bambaye amataburiya ajya gusa ubururu bucuye ndetse n'amakarita mu ijosi agaragaza icyo bakora.

Ivomero rusange riri ahantu mu kibaya, haragaragara abana batoya cyane bafite utubido, hirya akaba ari umuntu mukuru uri kubavomera, hakurya hari imodokari isa umweru.

Ahantu bavomera hari mu ishyamba rigaragaramo ibiti byinshi ndetse hari umudamu ufite injerekani y'umuhondo ari kuvoma, yiteze igitambaro mu mutwe, hepfo yiwe umugabo na we uri kuvoma.

Inyubako zigaragara harimo indende indi akaba ari ngufiya, imbere hakaba ari ahantu hameze nk'ikusanyirizo ry'amazi runaka, akoreshwa kugira ngo ayungururwe.

Abantu benshi bigaragara ko bahagaze mu cyo twakwita ihema, hakaba higanjemo abaganga ndetse n'abandi bantu basanzwe, hari n'uri inyuma afite igikoresho bifashisha bafotora.

Mo imbere mu nyubako isa nkaho ari nini, hakaba hicayemo abantu batandukanye, ni abadamu batatu bambaye udupfukawa n'abagabo batatu na bo bambaye udupfukamunwa.

Igishushanyo kiriho amagambo manini ndetse n'amatoya, ari mu ibara ry'umweru n'umuhondo ndetse n'umukara, hariho kandi abantu b'abaganga, harimo uwitandiye, uwambaye amarinete, ni abagabo n'abagore.

Ukuboko k'umuntu utagaragara, utamenya akaba yashyize ikiganza cye kuri robine ari gukaraba intoki, hasi yaho hakaba hari akagezi gashoka.

Abantu bahagaze ahantu hanze, bamwe muri bo bambaye imyenda isa ndetse n'amabaji mu ijosi yerekana ibyo bakora, harimo abadamu n'abagabo.

Inyubako ziri ahantu mu gapangu kazitije ibyuma bya tibe, zikaba zubakishijwe amatafari ahiye, imbere y'imwe hakaba hahagaze umugabo.

Sale yo kwa muganga ikaba yicayemo abantu benshi, harimo umusaza wambaye ingofero ndetse n'ikote akaba yashyizwe agakoresho bifashisha bapima n'umuganga umuri imbere.

Umwana wicaye hanze akaba arimo aseka, ari ku ivomero ari gukaraba intoki, hirya yiwe hari amabido ahateretse imwe ijya gusa umuhondo n'indi isa ubururu.

Ivomero rusange rigaragaraho abana babiri batoya ndetse n'umudamu uri kuvoma uteruye ibido yenda gusa umuhondo.

Umwana mutoya ufite udusatsi tuboshye, akaba yambaye agakanzu kadoze mu gitenge, akaba afite icupa rinini ry'amazi ari kuyisuka mu ntoki.

Ivomero rusange riri ahantu munsi y'umusozi, haragaragara umwana mutoya ufite akabido uri kuvoma, undi inyuma uri gukurura icyuma amufasha kumuvomera.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako, bigaragara ko ari abadamu, hari abambaye amajiri y'icyatsi asa nk'ayerekana ibintu bakora, abandi bakeneyenye ibitenge.

Ikigo cy'amashuri cyubakishijwe amatafari matoya ahiye, hanze hakaba hari ivomero rusange, hari abana bahagaze, bari koga mu ntoki.

Mo imbere mu nyubako ahasa nk'abera inama zitandukanye, hakaba hicayemo abantu benshi abagabo ndetse n'abapapa, imbere yabo ku meza hateretse uducupa tw'amazi.

Sale yo kwa muganga hakaba hahagazemo abantu benshi, bari gukoma amashyi, muri bo harimo umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ku meza hakaba hari akana gatoya wakita agahinja.

Isomero rusange rikikijwe n'abantu harimo abadamu ndetse n'abagabo, imbere hakaba hari umwana uri kuvoma mu mabido ajya gusa umuhondo, akaba yambaye agapira gacitse amaboko ku mutuku.

Abantu bahagaze hanze y'inyubako hameze nkaho ari mu ivuriro hari abambaye amataburiya y'umweru n'abambaye imyenda isa y'ubururu, bisa nkaho ari abaganga.

Abana babiri batoya, bari ku ivomero rusange, bose bafite utubido bari kuvoma, inyuma haragaragara umubyeyi witeze igitambaro, ariko utagaragara neza mu maso.

Abana batoya bari ku ivomero rusange, bakaba bari gukaraba intoki, inyuma yabo hakaba hari igiti, bakaba basutse babiri muri bo, uwo hirya akaba nta musatsi afite mwinshi.

Abantu babiri bahagaze umwe ni umwirabura, undi ni umuzungu; hakaba hari akantu bafite mu ntoki bari guhererekanya kanditseho ngo sura u Rwanda.

Sare yicayemo abantu benshi, hakaba harimo abadamu ndetse n'abagabo, imbere yabo ku meza, hateretse uducupa tw'amazi, harambitse n'amaterefone.

Sale nini mo imbere hakaba hicayemo abantu batandukanye, harimo abadamu ndetse n'abagabo, ku meza ari imbere yabo hateretse uducupa turimo amazi yo kunywa.

Sale iberamo amanama inyuma hari icyapa kinini kigaragaza ibiri kuberamo, haragaragara abakobwa batatu n'umusore umwe bisa nkaho hari ibiganiro runaka barimo.

Ivomero rusange rihagazeho abantu, bose bakaba ari abagore, hateretse amabido, amwe ari kuri robine bari kuvoma, umudamu uri inyuma ateruye ijerekani mu ntoki.

Ivomero rusange akaba ari amazi ari gusohoka mu itiyo, hakaba hari ibiganza bibiri biri gukaraba ayo mazi, hasi akaba ari sima y'aho agwa anatemba.

Abantu benshi ndetse hari abana bicaye hasi, bafite utuntu banywesha amata ndetse muri bo harimo abadamu n'abagabo, bambaye imyenda yenda gusa kimwe.

Mu imbere mu nyubako ahicaye abantu batandukanye, harimo abagabo ndetse n'umudamu umwe, imbere ku meza hateretse uducupa tw'amazi ndetse na mudasobwa zigendanwa.

Sare nini, ikaba hicayemo abantu ndetse imbere yabo hakaba hari abandi bantu basa nk'aho bari kubahereza ikiganiro, hakaba arimo umudamu umwe.

Ivomero rusange, rikikijwe n'abantu benshi, harimo abadamu ndetse n'abana batoya, umwe wambaye umupira utukura uciye amaboko, akaba afite ibido ari kuvoma.

Abadamu bahagaze ku ivomero rusange, babiri barunamye bari gukaraba intoki, kandi harimo abambaye udupfukamunwa tw'umweru, akaba iruhande rwabo hari amajerekani, ari mu ibara ry'umweru.

Sare igaragaramo abadamu bose bakaba bari kubyina, hari uwambaye ikanzu y'umutuku, undi akaba yambaye ikanzu iri mu bwoko bw'igitenge, undi akaba yambaye ikabutura idozwe mu gitenge, inyuma hakaba hari intebe z'umweru.

Abantu benshi batandukanye, harimo abadamu ndetse n'abapapa, harimo n'abana batoya, bose bafite utudarapo dutoya tw'igihugu cy'u Rwanda.

Icyapa kigaragaraho umuntu w'umudamu witeze igitambaro cy'umukara, akaba yambaye agapfukamunwa k'umweru hakaba kandi handitseho amagambo atandukanye.

Umubyeyi wicaye mu nzu, imbere ye hari isafuriya irimo ibintu ari kuvanga, ahetse umwana mutoya, iruhande hahagaze akandi kana gatoya.

Abantu bicaye ahantu hanze ku dutebe tw'imbahu, inyuma yabo hateye insina ndetse n'ibiti; umwe akaba afite ibipapuro mu ntoki, asa nk'aho ari kubagira inama.

Abantu benshi bahagaze mu nyubako, bakaba bambaye imipira ijya gusa ubururu haragaragaramo umudamu w'umuzungu wambaye amarinete, n'umugabo wambaye ishati y'umweru na karuvate.

Abadamu babiri bicaye mu nyubako, imbere yabo hari akantu ka purasitike karimo utuntu dutandukanye, umwe akaba yambaye ikanzu y'ubururu n'umweru, undi yambaye ikanzu y'umukara.

Bahagaze ari batatu, inyuma yabo hakaba hari abandi harimo n'akana gatoya, bakaba barandase umuntu umeze nk'aho arwaye cyane.

Abantu benshi bagaragara ku cyapa, harimo umusaza ufatanye n'umukecuru, hakaba na babiri na bo bafatanye ku rutugu bameze nk'abicaye, umwe wambaye umupira w'umuhondo undi akaba yambaye ishati.

Sale yicayemo abantu ndetse imbere yabo ku meza hateretseho icyo twakwita mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi, umwe muri bo afite mikoro mu ntoki ari gutanga ikiganiro.

Umuntu ufite akantu mu ntoki akaba arikihanaguza mu isura, akaba yambaye ingofero y'ubwoya, inyuma ye haragaragara umugabo utagaragara neza mu maso.

Sare ihagazemo abantu benshi, higanjemo abadamu ndetse n'abapapa, hari abasutamye umwe muri bo akaba yambaye rinete undi akaba ari umudamu witeze igitambaro.

Umugabo wicaye ahantu mu cyumba, impande ye hashashe igitenge, akaba yambaye umupira ujya gusa ubururu ku rutugu uciyemo uturongo tw'umweru.

Umukecuru usa nkaho akuzemo, wambaye imyenda y'ibitenge bisa n'igitambaro cy'igitenge, inyuma hari abantu ariko batagaragara neza, bisa nkaho bahagaze.

Abantu benshi bari muri salle isa nk'aho iberamo inama, higanjemo abadamu ndetse n'abagabo, uyu w'imbere wambaye ikanzu idozwe mu gitenge.

Abantu bahagaze hanze, harimo abadamu babiri abandi akaba ari abagabo, inyuma yabo haragaragara amatente ndetse n'imodokari iri mu ibara ryera.

Umumama uhagaze imbere y'inyubako, akaba yambaye rinete ndetse afite imisatsi, mu ntoki afite ikarita yerekana ibyo akora.

Umusaza mukuru cyane uhagaze, akaba yambaye ishati y'ubururu, ku rutugu rwiwe hariho umukenyero w'umuhondo, akaba yambaye ingofero mu mutwe, mu kanwa kiwe hakaba hagaragara y'uko afite amenyo yavuyemo.

Umuntu wicaye ahantu hameze nkaho ari ku nzira, yambaye imyenda yacitsaguritse ndetse n'ibirenge gusa, akaba yambaye ingofero afite amashashi mu ntoki arimo amazi.

Igishushanyo mbonera cyerekana imibare y'abantu bapfa biyahuye mu gihugu cy'u Rwanda, kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri, kugeza mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani.

Umupira w'amaboko magufiya ku maboko akaba ari ibara ry'ubururu ndetse no ku ijosi hari akarongo k'ubururu, ikigaragara hari amagambo yanditseho mu ibara ry'ubururu ndetse n'andi matoya atagaragara ari mu ibara ryijya gusa umuhondo.

Sale yicayemo abantu batandukanye ndetse harimo abadamu n'abagabo, imbere yabo ku ma meza hateretse uducupa turimo amazi.

Abantu babiri bahagararanye, umwe yambaye imyenda yacicaguritse cyane, afite imisatsi myinshi n'ubwanwa, undi yambaye ishati idoze mu gitenge, n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wicaye hasi ahantu hameze nko mu nzu ishaje cyane, akaba nta mwenda n'umwe yambaye, yambaye ubusa.

Umuntu ugaragara w'umugabo wambaye ishati y'ubururu ariko bwacuye, mu kiganza cy'iwe afite insakazamajwi cyangwa se icyo bita mikoro, imbere yiwe hari amagambo yanditse mu ibara ry'umweru ndetse n'amazina yiwe ari mu ibara ry'umuhondo.

Abana bicaye ahantu hameze nko mu nzu, harimo abari guseka ndetse umwe muri bo yambaye akantu k'umuhondo hari n'uwambaye agapira k'umutuku.

Abadamu batatu bose bambaye ibitenge, bafite inkoni mu ntoki, umwe muri bo ateruye umwana uri konka, inyuma yabo akaba ari imisozi iriho ibiti.

Abantu benshi bicaye ahantu muri sale isa nk'iberamo inama, hakaba higanjemo abadamu ndetse n'abagabo. Hari abari ku ruhande umugabo wifashe mu ipantaro mu mifuka, wambaye ishati y'umuhondo.

Bahagazemo imbere mu ihema batandukanye, harimo aba damu ndetse n'abagabo, imbere yabo kumeza hari ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo abambaye imipira y'imikara n'abambaye imipira y'imyeru.

Umugabo uhagaze mu muhanda ucigatiye igitebo ndetse n'udufuka ku rutugu, inyuma yiwe hari igikamyo kiri mu ibara ry'umukara n'icyatsi.

Abantu bicaye mu nyubako, hari umugabo wambaye ishati y'amaboko maremare, wunamye yishyize amaboko ku mutwe n'umudamu umuri iruhande usa nk'aho ari kumuhumuriza.

Umukecuru wicaye hanze y'inyubako imbere ye hari amashyiga hateretseho isafuriya, akaba afite umwuko mu ntoki ari kuvanga ibyo atetse ndetse n'igikombe n'umufuniko bimuri iruhande.

Abantu bicaye ahantu hameze nko muri sale, akaba ari abadamu ndetse n'abasore n'abagabo bakuze, bambaye imipira y'imikara, haragaragara umukobwa uri hirya wambaye umupira w'umukara uhagaze.

Umuntu wicaye muri rigori iri iruhande rw'umuhanda, impande yiwe hari akabido k'umukara, akaba afite imisatsi myinshi, akenye ikintu kimeze nk'igitenge, afite ishashi mu ntoki.

Umudamu wicaye ku ntebe, akaba afite icyirori birebamo, arasamye, ari kureba ikibazo afite mu kanwa, yambaye amaherena ku gutwi.

Icyumba cyo kwa muganga harimo umwana usa nkaho ari mutoya ndetse n'umuganga wambaye amarinete n'itaburiya y'umweru na ga z'umweruru, yasamishije uwo mwana, yamushyize udukoresho dusuzuma mu kanwa.

Umuntu, mu biganza byiwe hakaba harimo ikintu cyangwa icyo twakwita amenyo n'ishinya, afite akuma bifashisha mu kuvura amenyo, yambaye ga z'umutuku.

Umugabo uhagaze wambaye umupira utagaragara ibice byo hasi, afite ubwanwa bukeya n'umusatsi wogoshe mukeya cyane, ari kwerekana amenyo.

Umusore cyangwa se umugabo, wambaye agatuza hejuru, akaba afite akadodo mu ntoki k'ibara ryera yagashyize mu menyo yiwe.

Umwana mutoya wicaye ku ntebe isa ubururu, akaba yambaye agakanzu, mo imbere yambayemo agapira k'umweru, afite uburoso yashyize mu kanwa.

Umwana mutoya cyane bikaba bigaragara ko aryamye mu bitaro kwa muganga, bakaba bamushyize udukoresho dupima mu kanwa niba harimo uburwayi.

Abantu benshi bari muri sale bari kwifotoza muri bo harimo abicaye ndetse n'abahagaze, ni abamama n'abapapa harimo abambaye amashati ndetse harimo n'abambaye kositime.

Icyumba cyo kwa muganga hagaragaramo umusore uryamye ku gatanda, bakaba bamushyize ikintu mu kanwa bamwasamuye, bari kumusuzuma ikibazo afite.

Abantu basa nk'aho bari mu ivuriro kwa muganga, umusore ufite ubwanwa butari bwinshi, yambaye ishati bakunda kwita karokaro, ari kumwe n'umudamu utagaragara neza, ufite akantu mu ntoki, asa nk'aho agiye kumupima mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho byinshi by'amoko atandukanye, bifashisha mu buvuzi, hari insakazamashusho na yo yerekana ibipimo runaka by'umuntu warwaye.

Umudamu cyangwa se umukobwa ufite imisatsi myinshi, akaba ahagaze imbere y'ikirori cyifashishwa mu kureba ndetse afite uburoso yashyize mu kanwa ari koza amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibintu bitandukanye, hari utubati turimo dukoreshwa mu kubika impapuro cyangwa se imiti, hariho n'agatanda kenda kumera nk'intebe barambikaho umurwayi.

Umusore wambaye umupira w'umweru, akaba ahagaze imbere y'ikirori cyangwa se indorerwamo, mu ntoki ze afite urudodo yashyize mu kanwa.

Abana benshi bahagaze, bakaba bambaye iniforume cyangwa impuzankano, bafite uburoso bari kwibosa, bafite udukombe mu ntoki turimo amazi.

Inyubako isa nk'aho ari ishuri, hakaba hahagazemo abantu, harimo umwana ufashwe ku rutugu n'umuganga, ari kumwereka ibice bigize amenyo.

Icyumba cy'ishuri kigaragaramo abana benshi bambaye imyenda bita iy'ishuri, harimo intebe z'imbaho, harimo umudamu usa nkaho akuze uri inyuma ndetse n'undi uri imbere ufite imisatsi myinshi.

Umugabo wambaye umupira w'umweru ndetse afite ubwanwa butari bwinshi, arasamye yafashe akadodo n'amaboko abiri yakaziritse ku menyo.

Icyumba cyo kwa muganga, kigaragaramo abaganga babiri, umwe wambaye agapfukamunwa n'ishati ijya gusa icyatsi, undi wambaye itaburiya y'umweru, hari umurwayi uryamye hasi bari gusuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo umwana mutoya cyane, ndetse n'umuganga, wambaye utu ga tw'icyatsi, yasamishije uwo mwana, yamushyize ibikoresho mu kanwa, bisuzuma uburwayi afite.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya akaba yambaye agatuza, afite akasume k'umweru ku rutugu rwe afite kandi urudodo mu ntoki yashyize ku menyo.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo ibyuma byifashishwa mu gusuzuma uburwayi, ndetse hino hari aho bakarabira intoki.

Umuntu utagaragara neza ibice byo hasi akaba afite akadodo mu ntoki ziwe, yaziritse iryinyo ashaka kurikura, mu rwego rwo kugira ngo ridakomeza kumurya.

Igishushanyo cyerekana imiterere y'umuntu mu kanwa, uburyo amenyo atondekanyije ku murongo ndetse n'uburwayi bwaba bwafashe ku menyo.

Sale yo kwa muganga irimo abantu bicaye hari abambaye imipira y'icyatsi, hari na bambaye imipira y'umweru, bambaye udupfukamunwa bisa nkaho bo ari abaganga bari gusuzuma abo bandi.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umuganga wambaye agapfukamunwa k'umweru ndetse na ga, akaba imbere ye hari umurwayi, yamwasamuye yamushyize agakoresho bifashisha mu gusuzuma abarwayi.

Umugabo ufite ubwanwa butari bwinshi ndetse n'umusatsi akaba yogoshe mu mpande, akaba hejuru nta mwenda yambaye, afite akadodo yashyize ku menyo.

Umusore uhagaze imbere y'icyo bita ikirori, yambaye umupira w'umweru, afite imisatsi iboshye ndetse n'akadodo afite mu kuboko kwiwe ari gushyira ku menyo.

Yicaye mu cyumba kwa muganga, wambaye itaburiya y'umweru impande yiwe hari igitanda baryamishaho umuntu warembye, hejuru haragaragara akuma bifashisha bapima umurwayi.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umuntu usa nk'aho ari umwana, uryamye ku gitanda ndetse n'umuganga w'imyenda y'icyatsi, wicaye ku ntebe, yamwasanishije ari kumusuzuma mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo amatara manini ari kwaka, ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye, bifashisha bavura umuntu warwaye, harimo intebe yicaraho umuntu isanzwe, n'indi bicazaho umurwayi.

Umusore uhagaze inyuma yiwe hari ibara ry'umuhondo, akaba yambaye umupira uri mu ibara ryera, afite ubwanwa bukeya cyane, ameze nk'uri guseka yishimye.

Umudamu wicaye mu nzu asa nk'aho akuze, ari kumwe n'undi umufashe ku rutugu wambaye imyenda isa nk'aho ariyo kwa muganga n'isaha ku kuboko.

Abantu bahagaze basa nk'aho ari umuryango harimo umwana mutoya, umusore ndetse n'umudamu, umukecuru ndetse n'umusaza.

Umudamu usa nkaho akuze cyane, wambaye amarinete, witeze igitambaro cy'umukara wicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, inyuma ye hakaba hari umukobwa umufashe ku rutugu wambaye imyenda y'ubururu.

Umudamu usa nkaho akuze cyane ufite imisatsi yiganjemo imvi z'umweru, wambaye amarinete ajya gusa ibara ry'umutuku, afite ikirahure kirimo amazi ari kunywa imiti.

Umudamu usa nkaho akuze cyane, ufite imisatsi irimo imvi, wambaye akajakete kari mu mabara atandukanye, mu ntoki ziwe afite utwuma, bifashisha mu gukora siporo z'amaboko.

Umugabo usa nk'aho akuze cyane ufite ubwanwa burimo imvi z'umweru, akaba yicaye imbere yiwe hakaba hari ibitabo ndetse n'amakayi ari gusoma.

Abantu babiri basa nk'aho barimo imbere mu nyubako, imbere hakaba hateretse mudasobwa ku meza ndetse n'ikirahure cy'amazi. Ni umudamu ndetse n'umupapa ukuze, ufite ubwanwa b'umweru.

Abantu babiri basa nk'aho bakuze cyane, hari umusaza ufite imisatsi irimo imvi z'umweru, wambaye umupira w'amaboko aciye ujya gusa ubururu ndetse n'umudamu nawe ufite imisatsi irimo imvi z'umweru, wambaye umupira utukura.

Abagabo bakuru cyane bameze nk'abari gukora siporo, umwe yambaye ijakete y'umweru undi na we yambaye umupira w'umweru hari n'undi usa umukara yikenyeje mu ijosi n'uducupa tw'amazi.

Abantu babiri bahagaze ahantu hameze nkaho ari hanze, umwe ni umugabo usa nkaho akuze, undi ni umudamu wambaye ijaketi y'ikoboyi akaba yambaye n'amarinete.

Umugabo usa nk'aho akuze cyane, akaba yicaye mu gatebe k'akagare kagenderamo abafite ubumuga bwo kutagenda, imbere yiwe hari umudamu wamufashe ku kiganza.

Abadamu bicaye mu isoko ry'ibiribwa bambaye ibitenge imbere yabo hari ibintu birimo inyanya, inyuma hari amaronji asa umuhondo.

Abantu babiri bari mu muhanda bari kugenda; inyuma yabo hari ibiti ndetse umwe muri bo afite agakoresho bahereza abantu barwaye amaguru, bakakagenderaho.

Abantu bari hanze mu mbuga, hari umusaza w'imisatsi y'imyeru, wicaye mu kagare gasunikwa, kagenderaho abantu babana n'ubumuga bwo kutagenda, inyuma yiwe hari umudamu uri guseka agenda amusunika.

Abantu babiri basa nk'aho bari mu nyubako mo mbere, umwe akaba ari umuganga wambaye imyenda y'ubururu, undi mumama usa nk'aho akuze, akaba afite ikirahure kirimo amazi, bakaba bagiye kumuhereza ikinini ngo akimywe.

Abantu babiri barimo imbere mu nyubako, umwe ni umugabo usa nkaho ahuze cyane, afite inkoni mu kuboko kwiwe kw'ibumoso, undi ni umudamu umufashe ku rutugu.

Umugabo usa nk'aho akuze w'ubwanwa bw'umweru na rinete, akaba yicaranye n'umudamu na we usa nk'aho akuze wambaye amarinete, ku meza bicayeho hariho amafunguro atandukanye.

Abantu babiri bicaye, umwe ni umudamu, undi ni umupapa usa nk'aho akuzemo, wambaye amarinete, akaba ari kumwe n'umuganga wamushyize igikoresho bifashisha bapima ukuboko kwiwe.

Abantu babiri basa nk'aho barimo imbere mu nyubako, hari umudamu usa nk'aho akuzemo, ufite akabando mu ntoki ndetse n'umusore ufite ubwanwa wambaye imyenda y'abaganga n'akuma mu rutugu, bifashisha basuzuma umurwayi.

Abantu bari mo imbere mu nyubako, haragaragara umugabo umwe w'umuzungu, wambaye ishati yera ndetse n'umusaza w'ipantaro y'umukara n'umupira w'amaboko maremare n'umudamu wambaye ipantaro twakwita ikoboyi, bakaba bombi barandase uwo musaza w'imisatsi y'umweru.

Abantu bahagaze ahantu hameze nko mu murima biganjemo abagabo ndetse n'abadamu, hari ufite agasuka yamanitse hejuru wambaye isengeri y'umukara.

Umugabo usa nkaho akuze cyane w'imisatsi y'imvi afite utuntu mu ntoki ari kurya, impande yiwe haragaragara abana babiri hari uwambaye agakanzu kari mu ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Abadamu batatu bari kugenda mu muhanda, umwe muri bo akaba yambaye amarinete, afite n'akantu mu ntoki, undi akaba yambaye ingofero mu mutwe, bameze nk'aho bari gukora siporo.

Abantu barimo imbere mu nyubako. Harimo umugabo wicaye ku gatebe usa nk'aho ukuze wambaye umupira w'amaboko maremare, ndetse n'umudamu umufashe ku rutugu usa nkaho ari umuganga.

Abadamu batatu bicaye ahantu hameze nko muri sare, inyuma yabo hakaba hari akabati k'imbaho, umwe muri bo akaba nta ngofero yambaye, babiri bakaba bazambaye ndetse bambaye n'amarinete.

Umugabo usa nkaho akuze cyane ufite ubwanwa bw'umweru wambaye amarinete, umupira w'amaboko magufi, mu ntoki ziwe afite utwuma twifashishwa mu gukora siporo z'amaboko.

Abantu bicaye ahantu hasa nk'aho ari mubyatsi, inyuma hari ibiti bigaragara, harimo abadamu, umugabo umwe uteruye akana ndetse n'undi usa nk'aho ari kuboha igitebo.

Abantu babiri basa nk'aho bicaye mu nzu, ku meza hari akantu kajyamo imiti, umwe ni umusaza usa nk'aho akuze cyane n'undi akaba ari umudamu usa nk'umukecuru.

Abadamu basa nkaho bari ku murongo, bambaye imyenda ijya kumera kimwe, amajipo y'umukara ndetse n'imipira y'umweru ariko hari uwambaye umupira ujya gusa ubururu, yiteze agatambaro.

Icyumba cyo kwa muganga, kikaba cyicayemo umudamu wambaye itaburiya y'umweru, imbere y'iwe hari umugabo ukuze, ufite ubwanwa bw'imvi, ku kuboko kw'iwe bamushyizemo agakoresho ko kwa muganga bifashisha bapima.

Mu nzu, umugabo usa nkaho akuze, wambaye ishati y'amaboko na linete, akaba ari kumwe n'umudamu w'umuzungu, bisa nkaho ari umuganga, ari kumwigisha kugenda.

Abantu bicaye hanze mu mbuga harimo umugabo usa nkaho akuze, wambaye ishati y'ubururu n'agapfukamunwa undi akaba ameze nk'umuganga uri kumwitaho, wambaye imyenda y'icyatsi.

Ahantu hameze nko mu ihema, hicayemo abantu benshi, hari abasaza bakuru ndetse n'abakecuru bakuru, hakagaragara umudamu wambaye ikanzu y'umukara n'ijakete yerekana icyo akora.

Ahantu hameze nk'aho ari mu cyumba cy'ivuriro, haragaragaramo umusaza w'ubwanwa bw'umweru, afite akuma bifashisha kugenderaho ari kumwe n'umudamu w'umuganga wambaye n'ikarita igaragaza icyo akora.

Umusaza ukuze cyane, wicaye ahantu akaba ari kozwa n'undi muntu utagaragara ugaragara amaboko gusa, afite imisatsi irimo imvi z'umweru.

Umudamu wicaye ahantu hasa nkaho ari muri jaride, yashashe akantu ari gukora imyitozo ngororamubiri, hakurya haragaragarayo ibiti n'imodokari zitagaragara neza.

Abagabo babiri bagaragara, harimo umwe usa nk'aho ari mukuru cyane ufite imvi, undi akaba asa nk'aho ari mutoya, wambaye rinete n'agapfukamunwa.

Abadamu babiri bicaye hanze mu mbuga, hirya y'aho hari ibiti by'amoko atandukanye, umwe akaba ari umuganga wambaye agapfukamunwa ndetse n'amarinete.

Umuntu wicaye utagaragara mu maso, afite imisatsi harimo imvi ndetse kumaboko yiwe hariho akamashini ko kwa muganga, bisa naho bifashisha mu gupima umuvuduko.

Umugabo usa nk'aho akuze, wambaye ikabutura ndetse n'umupira w'amaboko maremare ariko yawuhinnye, akaba ari kumwe n'akana gatoya cyane, bari gukina umukino w'amaboko bakunda kwita Basikete.

Umugabo n'umudamu basa nkaho ari bakuru cyane, bafite imisatsi y'imyeru, umugabo akaba yambaye amarinete, imbere ku meza hakaba hari ibinini n'uducupa turimo imiti.

Abadamu babiri bari mu cyumba gisa nk'aho gitunganyirizwamo ibiribwa, haragaragaramo inyanya, pavuro y'umuhondo ndetse umwe afite ikirahure, yambaye amarineti n'ishati.

Abantu bahagaze hanze bisa nkaho ari umuryango, umwe akaba ari umusaza ufite imvi mu mutwe ndetse no ku bwanwa, undi ni umugabo uhagararanye n'umudamu, bose bahetse abana.

Abantu bicaye ahantu, hari n'icyapa cyerekana ibiri kuhabera, ku meza hateretse imiti y'amoko atandukanye, haragaragaramo abadamu ndetse n'abagabo.

Sale yicayemo abantu benshi cyane, hakaba hamanitsemo n'icyapa kinini kerekana ibiri kubera muri iyo sale, harimo abadamu ndetse n'abagabo, hari ufite mikoro ari gutanga ikiganiro.

Icyapa cyanditseho amagambo, hari ayanditse mu ibara ry'umukara, hari inyuguti zigaragara imwe yanditse mu ibara ry'ubururu indi mu ibara risa umuhondo irindi ni ibara ry'icyatsi.

Icyapa kiriho amagambo atandukanye, hakaba hariho umwana mutoya cyane wasamye, hakaba hariho amagambo ari mu ibara ry'umutuku andi ari mu ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze ahantu hameze nko muri sale, inyuma yabo hari udutebe tw'umweru, iruhande rwabo arika ameza kagufinya kariho utuntu dutandukanye, umwe ni umugabo undi ni umudamu.

Abantu bahagaze ahantu muri sale, harimo abagabo batatu bambaye amakoti ndetse n'abadamu, harimo uwambaye ikanzu y'umuhondo n'amarinete n'undi wambaye ikanzu idozwe mu gitenge.

Umudamu witeze igitambaro mu mutwe, akaba ateruye umwana mutoya, inyuma ye hari abagabo baba bahagaze bambaye amashati.

Abadamu batatu bahagaze ahantu, umwe uri inyuma yambaye amarinete n'akantu mu mutwe ndetse n'agapfukamunwa, uw'imbere yambaye ijiri iranga icyo akora.

Sare nini isa nkaho iberamo amanama atandukanye, hicayemo abantu benshi ndetse n'abandi, aho bita kuri podiyumu imbere, muri bo harimo umudamu abandi bose ni abagabo.

Umudamu wicaye mu ntebe, wambaye ipantaro y'umukara, ndetse akaba yambaye n'umupira w'umukara, mo imbere mu ijakete yambaye, afite mikoro, akaba ameze nk'aho ari gutanga ikiganiro.

Sale yicayemo abantu benshi, inyuma hakaba hari icyapa, cyerekana inama iri kubera aho ngaho, hakaba hari umudamu ufite mikoro, ari gutanga ikiganiro.

Icyumba cyo kwa muganga hasa nk'aho habera igikorwa cyo kubaga umuntu warembye, harimo abaganga batandukanye, bambaye udupfukamunwa n'umurwayi uryamye hasi uri kuvurwa.

Umukecuru usa nkaho ari mukuru cyane, akaba yiteze igitambaro cy'umutuku kirimo utudomo tw'umweru, ijisho rimwe rirapfutse, rifite ikibazo.

Abagabo babiri bose bambaye amakositimu cyangwa amakoti y'umukara, umwe akaba yicaye asa nk'uwirabura, undi akaba ahagaze usa nk'inzobe ufite ubwanwa bukeya.

Abantu bahagaze hanze hameze nko mu mbuga harimo abadamu ndetse n'abagabo, harimo n'abazungu. Harimo abambaye imipira y'imyeru, iy'ubururu ndetse n'uwambaye impuzangano ya daso.

Abantu benshi batandukanye bari kugenda mu muhanda, abari imbere bafite icyapa cyerekana urubyiruko rw'ahazaza ko rugomba kwirinda virusi itera Sida, harimo abambaye imipira y'imyeru n'andi mabara atandukanye.

Abantu bahagaze bambaye imyenda y'imyeru ndetse n'ibintu bibapfutse mu maso, bose bambaye udupfukamunwa, inyuma hakaba hahagaze umugabo wambaye imyenda itandukanye n'iyo bambaye.

Igishushanyo cyerekana imiterere y'umutima, kiri mu mabara y'umweru, hejuru yaho handitse amagambo manini na yo ari mu ibara ry'umweru ndetse n'umubare gatatu.

Icyapa cyanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umweru, akaba ashushanyijeho umuganga ufite udukoresho dutandukanye bifashisha mu buvuzi, yambaye agapfukamunwa.

Icyapa kigaragaza indwara ya diyabete, ku buryo uyirwaye aba yiyumva n'ibyo akora, hejuru hakaba hari agatara k'umuhondo wakwita agacuma.

Abantu basa nk'aho bari ahantu hanze muri jaride, hakaba hari umurwayi barambitse ku gatanda baterura mu ntoki, akikijwe n'abaganga bambaye udupfukamunwa.

Abantu bahagaze muri sale, akaba ari abadamu babiri b'abazungu n'umugabo umwe w'umuzungu, abandi bagabo bane akaba ari abirabura; bose bambaye amakarita mu ijosi.

Igishushanyo kigaragaraho umuntu w'umugabo wambaye ishati y'umweru, hakaba handitseho amagambo menshi atandukanye ari mu mabara y'umweru.

Ukuboko k'umuntu runaka ariko utagaragara ibindi bice bindi, gusa naho kwafashwe n'uburwayi twakwita ubw'uruhu hariho uduheri twinshi cyane.

Akantu k'ubururu kanditseho amagambo ari mu ibara ry'umweru, munsi hakaba hariho akandi k'icyatsi, kanditseho imibare ndetse n'imyaka.

Sale isa nkaho itangirwamo inama zitandukanye, imbere kuri podiyumu hakaba hahagaze umugabo wambaye kositime, ndetse na kamera imuteretse imbere.

Sale iberamo inama zitandukanye, inyuma hari icyapa kinini kiriho indwara runaka igombwa kwirindwa. Hari abicaye imbere bari gutanga inama, imbere yabo hateretse uducupa tw'amazi.

Abantu babiri bahagaze ahameze nk'aho ari mu nzu, inyuma yabo hari icyapa kigaragara cyanditsweho ibintu bitandukanye, Umwe ni umugore undi ni umugabo, umwe ni umuzungu undi ni umwirabura.

Inyubako igaragara yuko ari kwa muganga, hanze hakaba hari umudogiteri cyangwa se umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agapfukamunwa.

Inyubako igaragara isa nkaho ari ibitaro, hanze hari abantu bari kugenda, abagabo ndetse n'umudamu umwe wambaye ishati yera.

Mo imbere mu nyubako isa nkaho ari sale, hakaba harimo amatara ari kwaka, harimo kandi n'ibyumba bigiye birimo ibikoresho bitandukanye.

Icyumba cyo kwa muganga gisizemo irangi ryera, kirimo akabati karimo ibikoresho, harimo imashini isuzuma umuntu warwaye.

Mo imbere mu gipangu ahantu hagaragara, icyuma kinini kiri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi kiriho utwicungo abantu bakoresha mu kurya iminyenga.

Mo imbere muri salo, ahagaragara ibikoresho bitandukanye hakaba harimo inzugi ndetse n'amadirishya, intebe ziri mu moko atandukanye n'utumashini tuziri iruhande dusunikwa.

Mo imbere mu nyubako bisa nk'aho ari kwa muganga ahatangirwa ubuvuzi, harimo imashini bifashisha mu gusuzuma abarwayi ndetse n'agatanda barambikaho umurwayi ugiye gusuzumwa.

Ni sale nini irimo ibikoresho bitandukanye, urebeye mu idirishya, urabona hakurya izindi nyubako ndende ndetse na kaburimbo.

Inyubako igeretse bakunda kwita etaje, ikaba ifite ibirahure by'amadirishya, imbere hakaba hari icyapa kinini cyanditseho umubare cumi na kabiri ndetse n'andi magambo yerekana ibibera muri iyo nyubako.

Inyubako yubakishijwe amatafari bita ahiye hanze, hahagaze umuntu kandi haparitse imodokari ijya gusa umukara, hari n'icyapa cyerekana service zose zihatangirwa.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho bitandukanye, harimo icyuma bifashisha basuzuma umuntu urwaye n'agatanda barambikaho uwo bagiye gusuzuma.

Sale yo kwa muganga, harimo amadirishya, hakaba harimo ibitanda biryamyeho abarwayi, hahagaze umumama wambaye ikanzu y'umutuku, iruhande hari n'undi wicaye mu kagare.

Ahantu mu ihema hagaragaramo abarwayi baryamye ku bitanda ndetse n'abadamu babiri b'abaganga bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa.

Inyubako ya etaje igeretse, hakaba handitseho amagambo aranga ikihakorerwa kandi hari n'amabandirore cyangwa se ibyo twita ibyapa biranga ibikorerwamo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, hari ahashyirwa imyanda ndetse harimo igitanda kiryamaho abarwayi n'imashini ku ruhande bifashisha bapima urembye.

Inyubako igaragara igereretse inshuro zirenga ebyiri, hanze hakaba haparitse imodokari y'umukara n'indi iri hirya igaragara agace gatoya k'inyuma, hanze hamanitse icyapa kigaragaza ibikorerwa mu iyo nyubako.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umurwayi uryamye ku gitanda, abaka akikijwe n'abaganga babiri bambaye amataburiya y'ubururu.

Inyubako nini igeretse igaragaraho amadirishya ndetse n'imiryango isize amarangi ari mu moko atandukanye, imbere hakaba hateye igiti ariko bakunda kwita umukindo.

Abadamu batatu bicaye hanze, inyuma yaho hakaba hari ibiti, umwe muri bo akaba ari umuganga wambaye imyenda yabigenewe, yambaye amarinette n'agapfukamunwa ndetse na ga, yafashe umwe amushyiraho agakoresho bifashisha basuzuma umurwayi.

Hanze ku nyubako hakaba hariho amadirishya manini, imbere yayo hari igiti kigaragaraho amashami gusa. Hari n'ibindi bitambaro bihamanitse byerekana ikihakorerwa.

Hanze y'iyi nyubako hagaragara inzira yubakishijwe amapave, hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo aranga ibikorerwa mu nyubako, hari abantu bari hanze bari kugenda batembera.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho bitandukanye, hari utubati twifashishwa kubika imiti ndetse n'impapuro, hari igitanda kiryamaho umurwayi n'imashini bifashisha bamufata ibipimo.

Inyubako nini igeretse hakaba hari isize irangi ry'umuhondo urebeye inyuma urabona harimo amadirishya menshi, mu mbuga hakaba harimo ubwatsi bukeya bakunda kwita jaride.

Sale yo kwa muganga hakaba harimo abantu bane, babiri muri bo ni abadamu hari uhagaze inyuma n'undi uri gusuka ibintu, harimo n'abasore babiri bicaye.

Ahantu hanze hagaragara inyubako zitandukanye, hameze nkatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hakurya ni ishyamba ririmo ibiti, hakaba hari n'ibyapa imbere bigaragaza serivisi zitangirwa aho hantu.

Umwana ugaragara wambaye agakoti k'umukara n'agapantaro, akaba ari gusunika umuntu mu kagare kagenderamo ababana n'ubumuga bwo kutagenda.

Mo imbere mu ivuriro, ahasa nkaho ari mu bubiko bw'amaraso, hakaba huzuyemo utubati tubikwamo ayo mashashi yuzuyemo amaraso ahabwa abayabuze.

Ibitaro by'i Kabgayi bigaragaramo inyubako zubakishijwe amatafari matoya ahiye, haragaragara umuntu uri ku igare uhetse ibintu n'undi uhagaze ari kureba ruguru.

Inyubako igeretse kabiri, hanze hari abantu bari kugenda undi yicaye mu mutaka, hakagaragara kandi imodokari zihaparitse, ziri mu moko atandukanye.

Icyumba cy'ishuri kigaragaramo abantu, abadamu, abagabo ndetse n'umwana mutoya wambaye iniforume iri mu ibara ry'icyatsi, ufite ikintu kiriho amenyo n'umuganga uri kumwereka.

Mo imbere mu nyubako, isa nk'aho ari kwa muganga, icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye bifashisha bavura abarwayi, hakaba harimo n'igitanda barambikaho abarwaye.

Inyubako zigaragara zikaba ziriho amadirishya matoya, hanze hateye ubwoko butandukanye bw'indabo, hakaba hari umuntu uri kugenda afashe akana mu ntoki n'akandi kari imbere gafite ibase y'umukara.

Ikusanyirizo ry'imiti bakunda kwita farumasi, hakaba harimo utubati tugiye turimo amoko menshi atandukanye y'imiti bahereza abantu barwaye.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho bitandukanye, hakaba hari igitanda kiryamaho abarwayi, hino hari akantu bakarabiramo intoki.

Imbere mu nyubako hakaba hamanitsemo ibyapa bigaragaza ibihakorerwa, hakaba hari akantu gateretsemo ururabo, ndetse harimo n'amatara ari kwaka.

Hanze y'inyubako igaragaraho amadirishya ndetse n'imiryango, imbere hateye uduti dutoya tumeze nk'indabyo, hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru agaragaza serivisi zihatangirwa.

Amashashi agaragara atandukanye, hakaba harimo amaraso yifashishwa mu gutanga, igihe umurwayi runaka yagize ikibazo cyo kubura amaraso, hakurya hakagaragara abantu batagaragara neza.

Inyubako iri ahantu hasanzwe, mo imbere hakaba harimo ibikoresho bifashisha mu gukora siporo ngororamubiri, hakurya yawo hanze hakaba hari ibiti.

Imbere mu nyubako, akaba ari sare yicayemo abaganga bambaye amatabuririya y'umweru. Imbere yabo hari utubati duterekwamo imiti y'amoko atandukanye.

Inyubako iri ahantu harambuye, ni nini igereretse inshuro ebyiri, hariho amadirishya menshi, hanze hari jaride, ndetse n'amoko y'indabo atandukanye.

Imbere mu nyubako, hakaba harimo ibyumba bitandukanye, harimo ibifite inzugi zikoze mu mbaho, hakaba harimo n'amatara menshi ari kwaka ndetse hamanitsemo n'igishushanyo gishushanyijeho.

Inyubako nini zegeranye hari isize irangi rijya gusa umuhondo, hanze yaho hari akajaride gateyemo ubwoko butandukanye bw'indabyo.

Sare nini yo kwa muganga igaragaramo ibitanda baryamishaho abarwayi bifite udupine, bisunikwa, harimo umuzungu w'umudamu wambaye ipantaro y'umukara n'ishati yera.

Icyapa cyerekana ko aho ku ruhande hari ivuriro, kikaba kiri mu mabara y'umutuku n'umweru, iruhande hakaba hari aba damu bari kugenda n'abandi bari hakurya mu muhanda.

Mo imbere mu nyubako, hakaba harimo udukoresho dutandukanye, hari kwakamo amatara, harimo amamashini yohereza umwuka ndetse n'ibindi bifashisha mu kuvura abarwayi.

Inyubako nini igaragara imeze nk'aho ari ivuriro runaka, hakaba hateyemo ibendera ry'u Rwanda muri jaride, hakaba hari n'umuntu ugaragara uri kugenda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe, harimo za mudasobwa, harimo ibitanda biryamyeho abantu barwaye, hari n'abaganga bahagazemo.

Sale yo kwa muganga igaragaramo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda ndetse n'amameza, aho bakarabira harimo n'udufiye twifashishwa mu kubika imyanda.

Sale isa nkaho ari kwa muganga, hari abantu bahagaze ku murongo, ndetse hari intebe z'umukara ziteyemo, n'indi imwe y'urubaho ndende, n'umugabo wicaye mu kagare, k'ababana n'ubumuga.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda biryamaho abarwayi, hakaba haryamyemo abadamu babiri basa nk'aho barwaye, kandi hejuru hamanitse inzitiramibu.

Ibitaro bigaragaramo abantu benshi cyane bicaye ku ntebe n'abandi bahagaze, hino hari umugabo wambaye ipantaro itukura n'umupira w'amaboko aciye mw'imbere yambariyemo undi byose byera n'agapfukamunwa k'umweru.

Inyubako nini isa nk'aho ikorerwamo igikorwa cy'ubuvuzi, hanze hahagaze abantu benshi, inyuma y'igipangu haparitse imodokari.

Inyubako imbere yayo hariho icyapa, cyerekana y'uko hacururizwa ibijyanye n'imiti, imbere hahagaze umugabo, wambaye umupira w'umweru ndetse haparitse na moto.

Icyumba cyo kwa muganga gisize mo irangi ryera kikaba kirimo n'amakaro, haragaragaramo intebe ariko imeze nk'agatanda baryamisha uwarwaye, hirya hari utune dusunikwa batereka udukoresho.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho bitandukanye, harimo igitanda kiryamaho abarwayi ndetse n'ibyuma by'ikoranabuhanga bigaragaza ibipimo by'umurwayi.

Sare yo kwa muganga, igaragaramo ibitanda baryamishaho abarwayi, bishasheho amashuka y'icyatsi, hakaba hagaragaramo akuma bifashisha mu gupima umurwayi.

Ishuri mo imbere hahagazemo abantu, ku kibaho handitseho ibintu bitandukanye, umuganga wambaye itaburiya y'umweru afashe umwana ku rutugu, ari kumwereka amenyo ndetse nibiyagize.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo udukoresho dutandukanye, hagaragaramo inzugi ebyiri zo mu mbaho, hasizemo irangi ry'umweru harimo n'amatara abiri ari kwaka n'ibitanda biryamishwaho abarwayi.

Sale yo kwa muganga ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, harimo mudasobwa ndetse n'andi mamashini yifashishwa mu gufotora impapuro harimo n'intebe.

Mo imbere mu nyubako akaba bigaragara ko ari mu ivuriro, harimo icyapa cyerekana aho umuntu agomba guca ndetse na serivisi agomba guhabwa, hirya hari intebe y'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho bitandukanye, hari igitanda gishashe kiryamaho abarwayi, iruhande hari akantu basa nk'aho bakarabiramo intoki cyangwa mu maso n'akandi bajugunyamo imyanda kari ku ruhande.

Sale nini irimo ubwoko butandukanye bw'ibyuma bikoreshwa bakora siporo ngororamubiri kuko zitera ubuzima bwiza.

Mo imbere mu nyubako isa nk'aho ari kwa muganga hari icyapa kimanitse hejuru y'icyumba kigaragaza ibikorerwa mo imbere, hakaba hasizemo irangi ry'umweru.

Imbere kwa muganga harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, hateretsemo intebe ndetse n'isakazamashusho, hari n'ibindi byifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Umugabo usa nkaho ari umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'agapfukamunwa, inyuma yiwe hakaba hari mudasobwa igendanwa ndetse n'akabati karimo imiti y'amoko atandukanye.

Abantu bari mu cyumba kwa muganga hagaragaramo umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'amarinete n'undi mudamu uryamye ku gitanda asa nkaho arwaye.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umugabo usa nkaho akuze cyane, wambaye amarinete n'ishati y'amaboko maremare n'umudamu w'umuganga ufite akuma ari kumusuzuma.

Icyumba cyo mu ivuriro, kigaragaramo igitanda, baryamishaho umurwayi ndetse n'agatebe, hirya hari utubati tubikwamo imiti bifashisha mu kuvura ndetse n'ibindi bikoresho bapimisha urwaye.

Sale irimo ibyuma by'amoko atandukanye, byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri, harimo ibyo baterura, utugare bakoresha basa nk'abirukanka ariko batava aho bari, hakagaragaramo n'isakazamashusho.

Inyubako zitandukanye, imbere hakaba hari ahateretse intebe isa icyatsi ndetse n' numukobwa uhagaze imbere wambaye umupira w'umuhondo.

Sale yo kwa muganga iragaragaramo abaganga n'undi mugabo wambaye umupira w'ubururu, ufite icyo twakwita umukoropesho, hakaba barimo ibitanda biryamyeho abarwayi.

Icyumba cyo kwa muganga, gisizemo ibara ryera, hakaba harimo n'amatara ari kwaka, harimo utuntu baterekaho ibikoresho dusunikwa, harimo n'igitanda barambikaho umuntu warembye, ugiye gusuzumwa.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda baryamishaho abantu barwaye, inyuma hari umuzungu w'umudamu, wambaye ipantaro yirabura n'ishati yera.

Mo imbere mu nyubako bisa nkaho ari kwa muganga, hakaba harimo utu etajeri turimo amarinete y'amaso, hatangirwa serivisi y'abafite uburwayi bwo kutabona.

Inyubako nini ndetse igeretse, hanze hakaba hari abantu basa nk'aho bari kugenda baganira imbere yayo hakaba haparitse icyo twakwita moto ndetse n'imodokari.

Igipangu gisa nkaho ari gishyashya kirambitseho icyapa kinini kitagaragara, imbere hakaba hateye ikindi cyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru cyanditseho amagambo menshi atandukanye, agaragaza igikorerwa aho hantu.

Umuntu uhagaze mu nyubako, iruhande rw'iwe hari indobo y'icyatsi iteretse aho bavomera amazi, hirya hari indi ihateretse iri mu ibara ry'ubururu.

Sale nini igaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, hakurya yaho haragaragara umuhanda ndetse n'indi nyubako nini cyane, harimo ibikoresho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri.

Inyubako igaragara yuko ari ivuriro, hanze hakaba hari abantu benshi, abadamu bahetse umwana, hino hari umuntu uri ku igare ndetse n'icyapa cyerekana ibikorerwa muri iyo nyubako.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa mu kuvura umuntu warwaye, harimo intebe bicaraho, igitanda kiryamishwaho uwarwaye.

Sare nini yo kwa muganga igaragaramo ibitanda baryamishaho abantu barwaye, hirya haragaragaramo umuganga w'umudamu, harimo n'ibikoresho bindi bifashisha mu gusuzuma abarwayi.

Ivuriro riri ahantu hasa nk'aho ari munsi y'umukingo, ikaba yubakishijwe amatafari matoya ahiye, hanze hakaba hateye indabyo hari n'umugabo uri kugenda hanze.

Mu imbere mu nyubako hakaba hagaragaramo intebe ziri mu mabara atandukanye, hakaba hari igishushanyo kinini gishushanyijeho ibintu bitandukanye. Harimo n'utumeza dutoya.

Icyumba cyo kwa muganga gisizemo irangi ry'ibara ry'umweru, harimo ibikoresho by'amoko atandukanye, ibyifashishwa basuzuma uwarwaye, ibitanda bibiri barambikaho umuntu usuzumwa.

Igipangu kigaragara cyubakishijwe udutibe dutoya n'amatafari ahiye, iruhande rwaho hari abantu bari kugenda bisa nk'aho ari mu muhanda, mo imbere kandi hakagaragaramo inyubako zitagaragara neza.

Inyubako zitandukanye hari isize ibara risa umweru, hirya hari isize ibara rijya gusa umuhondo, mu mbuga kandi hari jaride iteyemo ubwoko butandukanye bw'indabyo.

Sare isa nkaho ari kwa muganga, irimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima abarwayi, harimo intebe zisa nkaho zigenda, imbere yazo hagiye hariho utumeza.

Mo imbere mu nyubako igizwe n'inzugi z'ibirahure, hakaba harimo sare iberamo akanama, hakamo intebe ndetse n'ameza, hakaba harimo insakazamashusho.

Mo imbere mu nyubako, sale imeze nk'aho ari kwa muganga harimo ibitanda byinshi bigendera ku mapine, baryamishaho umuntu wese warwaye cyangwa urembye.

Inyubako hanze hakaba hicaye abantu batandukanye b'abadamu, hari uwambaye ikanzu yo mu gitenge, undi akaba yambaye ikanzu ijya gusa oranje, hakaba hari n'indabyo ziteye.

Ikigo nderabuzima cya Tabagwe hanze hakaba hahagaze abantu benshi harimu umugabo wambaye ingofero y'umweru n' numupira w'umweru, hakaba hari n'umudamu wambaye agapfukamunwa umeze nk'aho ari kugenda.

Salle yo kwa muganga harimo abantu benshi, hari umuganga uri hino wambaye ipantaro y'umweru n'ijakete y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, imbere yiwe hari umudamu usa nk'aho akuze wicaye ku kagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda.

Inyubako igaragara ko ari kwa muganga yubatse igeretse, imbere yaho hari ibiti, hakaba hahagaze abantu bameze nk'aho baje kwivuza.

Icyumba cyangwa se sare aho abarwayi baryama harimo ibitanda ndetse n'utumeza, hirya hari akantu bakarabiramo intoki.

Inyubako igaragara, hariho ibishushanyo byerekana ijisho, hariho amadirishya menshi, imbere hateye indabyo z'amoko atandukanye.

Mo imbere mu nyubako harimo intebe zifite amabara atandukanye, isa ubururu bwerurutse ndetse n'ubururu bwacuye, hakaba kandi hari ahicara abantu bashinzwe kwakira ababagana.

Imbere muri sale kwa muganga hakaba harimo ibikoresho bitandukanye bifashisha mu buvuzi, harimo kandi ibitanda bisa nkaho bishasheho ikintu gisa ubururu.

Salle isa nk'aho iberamo inama, hari imeza igaragaraho mudasobwa ndetse n'agacupa k'amazi, imbere hari umugabo wambaye ishati y'umweru, iruhande rwiwe hari umugabo, wambaye umupira utukura.

Inyubako igaragara, igeretse, imeze nk'aho ari ku bitaro kwa muganga, hanze haparitse imodokari iri mu bwoko bwa pajero, hakaba hari n'indabo zihateye impande.

Mo imbere mu nyubako ahagaragaramo ibikoresho byinshi bitandukanye, harimo intebe, imeza iteretseho mudasobwa, hari n'igishushanyo kimanitse ku gikuta.

Abantu bahagaze hanze hakaba higanjemo abazungu ndetse n'abirabura, harimo kandi abadamu n'abagabo, umwe aricaye yambaye amarinete ndetse n'isaha ku kuboko.

Inyubako igaragara yubakishijwe udutafari dutoya duhiye, hanze hakaba mu irange ry'umweru handitsemo amagambo mu ibara ry'ubururu yerekana ibikorerwa aho hantu.

Abagabo babiri bahagaze mu cyumba cyo kwa muganga bose bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa, imbere yabo hari igikoresho cyabugenewe cyo kwa muganga cyifashishwa mu gusuzuma abarwayi.

Imbere kwa muganga ahagaragara umurwayi uryamye ku gitanda, akikijwe n'amamashini yifashisha mu gusuzuma abarwayi, imbere ye hakaba hari umuganga ugaragara igice cy'inyuma wambaye itaburiya y'umweru.

Inyubako igaragara isize irange ry'umweru, bikaba bigaragara ko ari ivuriro, ikikijwe n'ibiti, hakaba hariho amabati y'ibara ry'ubururu, inzugi ndetse n'amadirishya.

Hanze y'inyubako ahagaragara abantu babiri, umwe akaba ahagaze yambaye umupira w'umutuku, undi akaba ari kugenda yambaye ishati iri mu mabara y'umutuku.

Inyubako igeretse, isa nk'aho ari ku ivuriro, isize irangi ry'umuhondo, hanze hakaba hahagaze abantu ariko batagaragara ndetse n'imodoka na yo itagaragara.

Inyubako hanze hagaragaraho amagambo asobanura ibikorerwa mo imbere akaba yanditse mu mabara atandukanye umutuku, ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Imbere mu nyubako ahagaragara yuko ari kwa muganga hakaba harimo amatara, hirya hari icyapa kigaragara cyanditseho amagambo yerekana ko ari kwa muganga.

Abantu babiri bicaye hanze hagaragaramo inzu y'amatafari bita aya rukarakara, hirya barahabona imibyare cyangwa se insina, ni umugabo usa nkaho ari umuganga ufite agakoresho mu ijosi bifashisha bapima.

Icyumba kimeze nk'aho ari ububiko bw'imiti itandukanye, hakaba harimo utubati twinshi dukoze mu byuma, ndetse n'udukarito turimo imiti itandukanye.

Inyubako igaragara yubakishijwe amatafari matoya ahiye, isize amarange yiganjemo iry'umuhondo, hanze hari intebe zihari ndetse n'umugabo uhahagaze.

Mo imbere mu nyubako ahasa nkaho ari sale iberamo inama zitandukanye, harimo intebe ndetse imbere hakaba hari imeza y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ubwoko bwinshi bitandukanye, hakaba hari n'igikuta gisize amabara y'umuhondo, harimo igitanda kirambikwaho umurwayi usuzumwa.

Inyubako nini iteyeho utwuma hanze, iriho amatara ari kwaka, isize irangi ryenda gusa umweru, hahagaze umukobwa wambaye ijipo ndetse n'umupira w'umuhondo.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo kandi igitanda kiryamaho umuntu urwaye n'amamashini yerekana uko ubuzima bwe buhagaze.

Inyubako ndende igeretse inshuro ebyiri, hariho ibyapa bigaragaza igikorerwa mo imbere, hanze yaho haparitse moto kandi hahagaze n'abantu.

Mu nyubako isa nk'aho ari kwa muganga, harimo ibikoresho bitandukanye, bifashisha basuzuma umuntu warwaye, hari agatanda ndetse n'icyuma cyabigenewe gisuzuma.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo akameza kariho udupine gasunikwa bashyiraho udukoresho cyangwa imiti bashyiriye abarwayi, harimo n'ibitanda baryamishaho abarembye.

Inyubako igeretse, mo imbere urebeye mu madirishya, urabonamo abantu bahagaze babiri ndetse n'undi umwe wicaye, bisa nk'aho ari kwa muganga, hanze hahagaze abadamu babiri ndetse n'umupapa.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byinshi bitandukanye. Harimo igitanda kiryamishwaho umuntu warwaye, akuma ku ruhande bamanikaho serumu, imashini ifasha kureba ibisubizo by'uwarwaye.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo umugabo cyangwa se umupapa uryamye ku gitanda, aba akikijwe n'ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo ibikoresho by'ubwoko bwose, hari utumeza bashyiraho ibintu bagenda basunika, hakaba hari n'igitanda baryamishaho umurwayi ugiye gusuzumwa.

Mo imbere mu nyubako, hakaba hagaragaramo intebe z'ubwoko butandukanye, hirya urugi rukaba rufunguye, hakaba hari n'umuntu uri guturuka hakurya ariko utagaragara mu maso.

Inyubako igeretse inshuro imwe, hanze hari abantu bahagaze batagaragara neza, haparitse n'imodokari nayo itagaragara, hakaba hari icyapa cyerekana ibikorerwa mo imbere.

Inyubako yubatse ahagana ku muhanda, akaba ari inzu igeretse inshuro ebyiri, hanze hari abagabo bahagaze, bambaye amatise n'amakositime, ndetse n'imodokari ziparitse mu gipangu.

Inyubako ya etaje, igeretse inshuro eshatu, hanze haparitse amamodokari ari mu ubwoko butandukanye, harimo ivatiri ndetse n'izo bita amajipe, hanze hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo yerekana, ibikorerwa mo imbere.

Umugabo uhagaze usa nkaho ari umuganga, yambaye itaburiya y'umweru, undi akaba agaragara amaguru gusa, akaba ari kumukanda ahagana mu mavi.

Umudamu cyangwa se umukobwa, akaba yambaye agakabutura kagufinya, kajya gusa ubururu n'agasengeri gasa icyatsi, imbere ye akaba afite icyuma ari gusunika, akora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa gishushanyijeho ibintu byinshi bitandukanye, hariho amashusho yerekana abantu bari gukora siporo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibikoresho byifashisha mu gukora siporo.

Uducupa dutatu duteretse ahantu runaka tukaba turi mu ibara ry'umweru twose, inyuma hakaba handitseho amagambo yerekana ibintu biba biri mo imbere n'umumaro wabyo.

Umugabo usa nk'aho akuze, wambaye umupira w'amaboko magufi, afite agacupa mu ntoki, ari kunywa amazi.

Umusore uhagaze ahantu akaba yambaye agasengeri ntabwo agaragara mu gice cyo mu maso afite agacupa mukuboko kwe kw'iburyo ari kunywa amazi.

Umukobwa wicaye, wambaye ipantaro y'umukara imwegereye, ndetse n'isengeri imwegereye y'umukara, iruhande rw'iwe hateretse agacupa k'amazi, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ubwoko butandukanye bw'imiti ndetse n'ibipfuko n'ikintu bifashisha babika imiti, haragaragara umukasi bifashisha mu gukeba cyangwa mu gukata bande.

Mu nyubako ahagaragara abantu benshi bahagaze, bambaye utujiri turiho ibara ry'umweru n'ikimenyetso cy'umutuku, cyerekana ko bashinzwe ubutabazi, hari n'umuntu usa nkaho wakomeretse bari kurambika hasi.

Ishusho igaragara yubatswe mu tunini tw'amabara atandukanye, hari udusa ubururu n'umweru, ibisa umweru, ibisa umuhondo gusa, iruhande hakaba hari urushinge rugaragara.

Agakoresho karambitse hasi gasa nk'aho ari ako kwa muganga, bifashisha mu gupima umurwayi, kariho ibara ry'ubururu ndetse n'utwuma hejuru turiho utuntu tw'umukara.

Mo imbere kwa muganga hakaba harimo ibikoresho bitandukanye, harimo utubati ndetse n'intebe n'igitanda kiryamaho abarwayi, hirya harimo akabati babikamo impapuro.

Ibiribwa by'amoko atandukanye birambitse hasi, hari akuma baterura mu kiganza, imetero bifashisha bapima uburebure cyangwa ubutambike n'agacupa k'amazi n'imbuto za pome.

Ni bogisi irimo amoko atandukanye y'imiti, ari mu dukarito, hakaba harimo n'amabande bifashisha mu kuzirika umuntu wavunitse ndetse n'imakasi.

Salle yo kwa muganga, hakaba arimo intebe, hari umudamu w'umubikira wambaye amarinete n'umuzungu uri guseka, iruhande rw'iwe hari akana gafashe ku kuguru.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru kirimo abantu bari gukina bambaye imyenda ya siporo, hakaba hari uwaryamye hasi usa nk'aho yababaye, umudamu n'umugabo bambaye imyenda ya Croix rouge bakaba bari kumuvura.

Abantu babiri basa nk'aho bari mu nzu mo imbere kwa muganga, umwe akaba aryamye, ku ivi ry'iwe riseguje akantu k'umweru, undi yafashe akantu k'ubururu yakamushyize mu mavi ameze nk'uri ku mukanda.

Inyubako yo kwa muganga hakaba hahagazemo umuganga ufite ikintu mu ntoki gisa umutuku, akaba yambaye itaburiya isa umweru ndetse na ga.

Agakarito kari mu mabara atandukanye, umweru ndetse n'ubururu bwijimye, inyuma yaho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umweru n'andi ari mu ibara ryenda gusa icyatsi hakaba handitseho n'ibintu bigaragaza ikirimo.

Umuntu bisa nkaho ari umugabo cyangwa umusore, ugaragara igice cyo hasi twakwita amaguru, ku mavi yiwe hakaba hariho akantu kameze nk'agapfuko.

Umusore uri ahantu muri sale ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, akaba yambaye utuntu ku kuboko kw'ibumoso, yambaye agakabutura mo imbere harimo agakora k'umukara.

Umugabo uhagaze ahantu hatagaragara, akaba yambaye umupira w'ubururu bwijimye uciye amaboko ndetse n'isaha y'umukara ku kuboko kw'iburyo n'agacupa akaba ari kunywa amazi.

Ni imeza iriho udukoresho twinshi dutandukanye, hari utwo bafata mu ntoki bakagorora ikiganza, hariho kandi n'akandi gakoresho kifashishwa kwa muganga bapima imiterere y'umutima.

Umuntu usa nkaho ari umusore wambaye imyenda ya siporo akaba yicaye mu bwatsi bisa nkaho ari mu kibuga, yifashe ku itako ari kwikanda asa naho yababaye.

Icyumba cyo kwa muganga kikaba kirimo ibikoresho bitandukanye, ikigaragara ni imashini ishinzwe gusuzuma umuntu warwaye, imbere yayo hari agatanda barambikaho uwo bagiye gusuzuma.

Umukobwa wicaye mu nzu imbere yiwe, hateretse agacupa karimo amazi, akaba ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro ka cora k'umukara n'agasengeri k'umukara.

Umuntu utagaragara neza, ufite agacupa mu ntoki ari kunywa amazi bisa nk'aho yaravuye muri siporo anyotewe cyane.

Igikapu cyuzuyemo amoko atandukanye y'imiti, hari imakasi n'utundi dukoresho twifashisha mu gupima niba umuntu afite umuriro mwinshi.

Umudamu cyangwa se umukobwa wicaye ahantu muri sale isa nkaho iberamo imyitozo ngororamubiri, yambaye agapantaro kamwegereye n'agasengeri kamwegereye.

Umudamu cyangwa umukobwa wicaye, ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye ipantaro y'umukara n'isengeri ijya gusa oranje.

Agatanda kagendanwa mu ntoki kifashishwa mu gutwara umuntu runaka, bamuvana ahantu hamwe bamujyana ahandi, kari mu ibara ry'umuhondo n'utuntu tw'umukara tukaziritseho.

Umudamu uhagaze ahantu hafi y'amazi twakwita ikiyaga, yambaye isengeri ijya gusa ubururu. Afite n'agacupa k'amazi ari kunywa.

Umudamu wicaye mu kibuga gikorerwamo imyitozo ngororamubiri, akaba ari gukora siporo yambaye agakabutura gatoya ndetse n'agasengeri gatoya.

Umuntu w'umusore ari gukora siporo ngororamubiri, akaba yambaye ipantaro ndetse yambaye agasengeri, mu matwi hakaba harimo icyo twakwita ekuteri bifashisha mu kumva imiziki.

Icupa rigaragara riri mu bwoko bwa purasitike, hejuru hariho agafuniko gasa ubururu, rikaba ryaragenewe kubika amazi.

Icyumba cyo kwa muganga, kigaragaramo umudamu cyangwa umukobwa, wambaye ka kora kamwegereye n'amaherena ndetse n'umuganga w'umugabo, wambaye itaburiya y'umweru n'isaha.

Umuntu uhagaze mumuhanda, akaba yambaye ikabutura y'umukara, ku kuboko kwiwe kw'ibumoso yambayeho isaha nayo isa umukara, yifashe mu ivi ari kwikanda.

Umugabo cyangwa umusore ugaragara wambaye agapira k'ubururu ndetse n'agashanete mu ijosi, afite icupa ry'amazi ari kunywa ndetse bigaragara ko yari afite inyota.

Salle nini igaragaramo ibikoresho bitandukanye, abantu bifashisha mu gukora imyitozo ngororamubiri, hirya hari icyapa kinini cyanditseho amagambo yerekana ibihakorerwa.

Umuntu usa nk'aho yicaye utagaragara igice cyo hejuru, wambaye agakabutura kagufiya k'umukara, ikiganza cyiwe kikaba kirimo agashashi gasa nk'akarimo ibintu runaka yagashyize ku ivi rye.

Umuntu usa nk'aho ari umusore ariko utagaragara mu bice byo hejuru, akagaragara amaboko afashe ku itako ryiwe, ari kwikanda bisa nk'aho yababaye.

Umuntu uri muri sale bakoreramo imyitozo ngororamubiri, akaba afashe icyuma ari gusunika, yambaye agasengeri kajya gusa icyatsi n'agakabutura k'ubururu.

Umuntu utagaragara wicaye ahantu mu byatsi usa nkaho ari umusore, yambaye isengeri iri mu ibara ry'umukara ndetse n'inkweto, bisa nkaho ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Ibyuma bigaragara ahantu hanze y'inyubako bisa nkaho byifashishwa mu gukora siporo ngororamubiri hagiye handitseho ibiro by'ingano waterura.

Icyumba cyo kwa muganga kigaragaramo igikoresho kinini cyifashishwa mu gusuzuma umuntu warembye, ndetse n'agatanda kari imbere barambikaho umurwayi usuzumwa.

Umuntu utagaragara mu gice cyo mu maso usa nk'aho ari mu cyumba cyo kwa muganga, wambaye umupira w'amaboko magufi, inyuma yiwe hari umudamu w'umuganga utagaragara mu maso.

Abantu babiri bari muri sale kwa muganga, umwe urwaye yicaye ku gitanda, umuganga we wambaye ishati y'umweru akaba afite bande iri mu mabara y'ubururu, ari kumuzirika ku kirenge.

Umugabo uhagaze mu nzira, hirya yiwe hariyo ibiti, akaba yambaye umupira w'amaboko magufinya, afite icupa, akaba ari kunywa amazi.

Umudamu wicaye mu cyumba cyo kwa muganga ,imbere yiwe hari umwana mutoya, akaba amufashe mu mutwe, yamutunze agakoresho kifashishwa mu gupima.

Umudamu wicaye ahantu akaba yambaye agapantaro k'umukara kamwegereriye cyane ndetse n'agasengeri kamwegereye ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Umudamu cyangwa se umukobwa uhagaze ahantu, akaba afite agasume k'umweru ku rutugu rwiwe, mu kuboko afite icupa ry'amazi ari kunywa.

Igikoresho kirimo imbere kwa muganga, akaba ari akamashini kifashishwa umuntu akora siporo, hirya hari akameza gateretseho ibintu bimeze nk'imiti.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho by'ubwoko bwinshi bitandukanye, hari ibyifashishwa mu gusuzuma umuntu uburwayi afite, harimo intebe ariko barambika nk'agatanda baryamishaho uwarembye.

Ibogisi ndetse n'igikapu byifashishwa mu kubika imiti y'amoko atandukanye, mu gihe abantu bagiye ahantu runaka, hakaba hari abantu bicaye hakurya, batagaragara neza.

Umusore uri ahantu hanze hirya yiwe hari ibiti, akaba ari gukora siporo yambaye imyenda agakabutura kamufashe ndetse n'isengeri, ku kuboko kw'iwe kw'ibumoso yambaye isaha.

Abantu babiri basa nkaho bari muri siporo ngororamubiri, umwe ni umudamu, undi ni umusore, bose bafite uducupa tw'amazi mu ntoki, hakurya yabo ni imisozi.

Akameza gakoze mu byuma ndetse hariho n'akabaho, imbere hakaba hariho ikintu kimeze nk'ubururu kaba bari kwerekana ibipimo by'uko kangana impande zose.

ahantu hasa nk'ahakorerwa imyitozo ngororamubiri, hari umugabo usutamye uri gukora siporo, wambaye ipantaro y'umukara iciyemo akarongo k'umweru, imbere ye naho hahagaze wambaye umupira w'ubururu n'ipantaro y'umukara.

Mu icyumba gisa nkaho ari kwa muganga hagaragaramo umugabo ufite umutwe wogoshe ndetse n'undi uhagaze utagaragara mu isura, wambaye itaburiya y'ubururu, akaba yamufashe ukuguru arimo kugorora.

Abantu bari ahantu twakwita nko mu mbuga, hakikijwe n'ibiti, bakaba bari gukora siporo, harimo abadamu ndetse n'abagabo bose bambaye imyenda ya siporo.

Umuntu utagaragara, usa nk'uwicaye, yambaye umupira w'amaboko magufinya ujya gusa umweru, ukuboko kwiwe kugaragara kukaba kuziritseho ishashi isa nk'irimo utuntu yikanda.

Ni sale ikorerwamo imyitozo ngororamubiri, hakaba harimo abantu batagaragara neza, uwambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara n'undi wambaye isengeri ijya gusa umweru.

Udukarito duteretse ahantu hasi twometseho utuntu turi mu mabara atandukanye, hari ibara ry'umuhondo, iry'umutuku, iry'icyatsi ndetse n'iry'ubururu, hakaba handitseho amagambo yerekana ibiri muri utwo dukarito.

Ibishushanyo bigaragaza abantu batandukanye, hari abari gukina umupira w'amaguru, hari undi wicaye ku gatebe gasa ubururu ari gukora siporo zerekeranye no guterura ibyuma, iruhande hari undi uri kwirukanka n'undi wazamuye amaboko.

Igikoresho cyo kwa muganga cyifashishwa mu kwerekana ibipimo by'umurwayi ari uko amaraso atembera mu mubiri, uko umutima uri gutera, hirya hakaba hari n'umuganga.

Umugabo upfukamye hasi n'ivi rimwe, irindi rikaba ridapfukamye hasi, akaba ari kwikanda, yambaye imyenda ya siporo ikabutura ndetse n'umupira w'amaboko maremare.

Umugabo wicaye ariko utagaragara mu isura, yambaye umupira bakunda kwita rakosite w'amaboko magufinya, ukuboko kwiwe kw'iburyo hakaba hariho ishashi, irimo utuzi ari kwigandisha.

Umudamu uhagaze wambaye agasengeri gatoya kamufashe k'icyatsi ndetse yambaye n'ipantaro ijya gusa ubururu n'inkweto n'amasogisi y'umweru, ari gukora imyitozo ngororamubiri.

Icyapa gishushanyijeho abantu bari gukina imikino itandukanye, harimo uw'amaguru ndetse n'icyo twakwita uw'amaboko ndetse na Tennis.

Umudamu uri mu cyumba cyo kwa muganga wambaye imyenda y'akazi. Ku rutugu rw'iwe afite akuma bifashisha basuzuma uwarwaye, imbere y'iwe hateretse mudasobwa.

Umudamu uhagaze wambaye agasengeri k'amabara atandukanye, ubururu, umweru n'icyatsi, afite akantu ku rutugu k'aka esume bihanaguza igihe babize ibyuya, afite agacupa, ari kunywa amazi.

Akabogisi kifashishwa mu rwego rwo kubika imiti kandi myinshi, iragaragaramo amoko atandukanye y'imiti, hari za pomade bifashisha mu bavunitse ndetse imbere hari akandi kariho imikasi ndetse n'amavuta ya vazeline agaragara mo imbere.

Icyumba gisa nk'aho ari kwa muganga, kigaragaramo abantu babiri gusa bose nta n'umwe ugaragara mu isura, umwe aryamye ku gatanda ko kwa muganga, undi akaba yafashe ukuguru kwiwe, ari kuzirikaho icyo twita bande.

Umugabo utagaragara igice cyo mumaso, uhagaze, wambaye isengeri ijya gusa icyatsi, afite ubwanwa bukeya n'agacupa, ari kunywa amazi.

Imodokari iri mu muhanda imeze nk'imbangukiragutabara, hakurya hari ibiti by'amoko atandukanye ndetse n'uturabo turi hino y'umuhanda tutarakura neza.

Uducupa ndetse n'udukarito turambitse hasi, imbere hari ibipapuro biharambitse ndetse n'uturimo ibinini, utwo ducupa hari uturi mu mabara y'umutuku ndetse n'uturi mu mabara y'umweru.

Umuntu utagaragara neza wambaye isengeri y'umweru n'ipantaro y'umukara, ameze nk'aho ari gukora siporo ngororamubiri, impande ye hakaba hari imbuto, imineke, ironji na pome.

Umudamu cyangwa umukobwa utagaragara ku gice cyo mu isura, akaba arimo imbere mu nyubako aho ari gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agasengeri gatoya n'ipantaro imwegereye cyane.

Abantu bari hanze y'inyubako hari uhagaze ku rwego hejuru, hari n'undi uhagaze hasi ufite ikintu ari kumuhereza wambaye agapfukamunwa k'umukara n'ikintu mu ntoki cy'umutuku, undi umuri inyuma wambaye ipantaro y'umukara n'agapira k'amaboko aciye n'agapfukamunwa.

Inyubako isa nkaho ari ivuriro hakaba hagaragaramo abagabo bahagazemo mo imbere, abambaye amakositime ndetse n'abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru, hakaba hari umurwayi uryamye ku gatanda usa nkaho wavunitse ukuguru.

Ibuto z'amoko atandukanye ziteretse ku meza, hirya yaho hakaba hari utwuma baterura mu kiganza, hakaba harimo pome isa icyatsi n'indi isa umutuku ndetse n'urusenda.

Agakarito karekare gateretse ku meza y'urubaho, karimo ibara ry'umweru ndetse n'agatuku gakeya gashushanyijeho imbuto, iruhande hari n'agacupa gatoya k'umweru.

Uducupa dutoya turi mu ibara ry'umweru, dushushanyijeho ibintu biri mu ibara ry'icyatsi, twifashishwa mu kubika imiti, hakaba hari n'udukarito ndetse n'indi miti ikikije impande zatwo.

Amoko menshi y'ibihingwa ariko by'imiti, biri mu moko menshi atandukanye, hari ibiri mu bisorori, hari n'ibirambitse hasi, iruhande hari akantu k'akuma kameze nk'umunzani.

Agacupa gateretse, hasi gasa ibara ry'umweru ndetse inyuma hariho amagambo yerekana ibibikwa, mo imbere harimo ibara ry'umukara.

Ibimera by'amoko atandukanye byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kuvura indwara nyinshi zitandukanye, izo mu nda, izo mu kanwa, ndetse n'izindi zitandukanye.

Akabati gateretsemo ibikombe byinshi biri mu moko atandukanye, inyuma yabyo hari ibipapuro byometseho byanditseho amagambo asobanura ibintu bibitse mo imbere.

Ibimera biri mu moko atandukanye biri mu murima, bikaba bifite amababi matoya asa icyatsi cyane n'andi asa nk'aho yumye, byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibihingwa biri mu moko atandukanye, biteye mu byo twakwita amavaze, aba akozwe mu ibumba, bikaba byifashishwa mu buvuzi gakondo.

Umuntu wambaye ikote ndetse n'ishati, impande ye haragaragara uducupa tw'amoko atandukanye, babikamo imiti bifashisha bavura abarwaye.

Ni umurima ugaragaramo abantu benshi, hakaba harimo kandi n'imashini ihinga n'abo bantu hari abambaye imipira y'imyeru, abandi bakaba bambaye imipira isa icyatsi.

Uducupa turi mu moko atandukanye, hari agasa umuhondo gashushanyijeho ibimera handitseho amagambo manini ari mu ibara ry'umutuku, impande hari utundi dukarito turi mu ibara ry'umweru ndetse n'uducupa dutoya tw'umweru.

Agakarito gashushanyijeho agasimba kaguruka, kakaba kanditseho n'amagambo ari mu ibara ry'umukara ndetse kakaba gasa umuhondo harimo n'ibara ry'icyatsi, imbere hakaba hateretse akantu karimo ibinini.

Ikimera kiri mu murima, gifite amababi menshi cyane, asa nk'aho ari maremare, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo indwara zo mu nda, ndetse n'izindi zitandukanye.

Ikimera kiri mu murima gisa nk'aho ari gitoya kikaba kitarera, gifite utubabi dutoya, kikaba cyifashishwa mu rwego rw'ubuvuzi bwa gakondo.

Amoko atandukanye y'ibihingwa, harimo ibitoki ndetse n'ibindi biti bifite utubabi tw'icyatsi kandi hari n'ibyo twakwita ibinyampeke bigaragaraho.

Imeza y'urubaho itagaragara yose hateretseho agatasi ndetse n'agasahani kako gatoya, hakaba hari n'uduce twinshi tw'amaronji na tangawize kuruhande.

Ishyamba rigaragara ririmo ibyatsi byinshi, hakaba hateye n'ibiti bitoya bifite amashami ajya gusa icyatsi, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa gatoya k'umweru kariho akapa gatoya k'umweru kanditseho amagambo manini ari mu ibara ry'umutuku ndetse n'agasimba gashushanyijeho n'utuntu tumeze nk'utubuto.

Udukarito ndetse n'uducupa duteretse ahantu hasi, biri mu mabara atandukanye, inyuma hakaba hagiye hashushanyijeho ibimera ndetse bikaba bisa nk'ibibikwamo imiti yifashishwa mu buvuzi.

Igikombe giteretse ahantu, kikaba kirimo ikimera bita umuravumba wifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zo mu nda.

Uduti tubiri dutoya cyane turiho amababi, akaba byifashishwa mu buvuzi gakondo, hakaba hakorwamo n'imiti y'amoko atandukanye.

Udukombe twinshi dutandukanye duteretse ahantu, tukaba turi mu mabara y'umweru, hakaba hari n'agakarito gasa umweru n'icyatsi kariho umubare cumi n'umunani.

Agakarito kagaragara kariho inyuguti ya f n'umubare cumi na gatanu, kariho igishushanyo cy'umuntu usa nk'aho ari kwirukanka, impande hateretse utubido tubiri dutoya turi mu ibara ry'umuhondo.

Ni ibintu biteretse hasi, hakaba harimo uducupa tunini ndetse n'udutoya bikaba byifashishwa mu kubika imiti cyangwa se ibindi bintu bitandukanye.

Icyumba kirimo ibintu byinshi birambitse hasi, ndabona udukono twa kera dukozwe mu ibumba, uducuma banyweragamo icyo bita ikigage, harimo n'ibindi bicupa bishaje n'ibikombe bitandukanye.

Agacupa kagaragara, gatoya cyane gafite umufuniko wera, inyuma hari icyapa kikometseho, kigaragaza ibintu byaba birimo imbere.

Ikimera kiri mu murima, gifite utubabi twicyatsi kibisi, hirya hari utundi dufite amabara y'umuhondo, cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Agacupa gatoya, gateretse hasi, kakaba kari mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hari icyapa cyanditseho amagambo ari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku wijimye.

Ameza ateretseho utubito dutandukanye, ndetse n'udukombe n'uducupa dusa umweru, hakaba harimo udukarito tubikwamo amoko atandukanye y'imiti.

Agacupa gasa nkaho gateretse ahantu runaka, kakaba kari mu ibara ry'umweru, inyuma yaho handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku n'ari mu ibara ry'umukara, agaragaza ibikubiyemo muri ako kantu.

Udukarito tubikwamo ibintu bitandukanye: imiti ndetse n'imyunyu, ni igikombe kigeretseho akantu hejuru, inyuma hari inanasi, iruhande hari imineke.

Agakarito kagaragara gashushanyijeho ubwoko bw'ibimera, kakaba kariho amagambo manini yanditswe mu ibara ry'icyatsi, hakaba hariho n'agashusho gatoya k'inyamaswa.

Ibintu bitandukanye biteretse ahantu, hari ibiri mu dukarito, hari ibiri mu dukombe, haragaragara inanasi yifashishwa nk'imbuto ndetse n'imineke ihiye y'umuhondo.

Igihingwa gisa nk'aho kiri mu murima, kikaba gifite utubabi dutoya ariko twinshi tw'icyatsi, kikaba cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Akabati cyangwa se etajeri iri ahantu hanze, irimo amoko menshi atandukanye y'imiti hari iri mu ducupa, mu dukombe ndetse no mu dukarito, inyuma hahagaze umudamu.

Ikimera kiri mu butaka, gikikijwe n'utundi dutoya cyane tutari twashibuka, hakaba hariho utubabi turi mu mabara asa nk'icyatsi cyijimye n'utundi turi mu mabara y'umutuku n'agahondo gakeya.

Agacupa kari mu ibara risa umweru, inyuma hashushanyijeho imbuto z'amoko atandukanye, rifite umufuniko usa umutuku wijimye, inyuma handitseho amagambo yerekana ibijyamo.

Agakarito gakozwe mu mabara atandukanye, kariho imirongo y'icyatsi n'indi ijya gusa move, handitseho amagambo aranga ibintu birimo imbere.

Agacupa gateretse hasi kari mu ibara ry'umweru, inyuma yaho hakaba handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi aranga ibintu birimo imbere.

Ibihingwa by'amoko atandukanye biri ahantu mu murima, bifite utubabi dutoya tw'icyatsi ndetse n'ibindi bifite amababi maremare yenda kuma, bikaba byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Umugabo uhagaze ahantu hameze nko mu nzu, akikijwe n'utuyetageri turimo uducupa n'udukombe, birimo amoko atandukanye y'imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Amoko menshi atandukanye y'ibihingwa ariko byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hari udusorori tugiye turimo imiti y'amoko atandukanye.

Ikimera kiri mu murima, kiri mu bwoko bw'umuravumba, ukaba wifashishwa mu kuvura indwara nyinshi zitandukanye, harimo mu nda ndetse no mu mihogo.

Umuntu w'umusore uri ahantu mu cyumba kirimo imiti y'amoko atandukanye, iri mu ndobo ndetse no mu bikombe n'indi irambitse ahantu, yambaye ishati y'amaboko maremare.

Igihingwa kiri mu bwoko bwa tangawize, ikaba yifashishwa mu bintu byinshi, hari abayikoresha bari kwivura, hari abayikoresha bayishyira mu cyayi, ndetse ikavura mu mihogo.

Agakarito gatoya kari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'irindi bara ry'icyatsi, handitseho amagambo ari mu ibara ry'umukara, imbere hakaba hari agapaki karimo ibintu bimeze nk'ibinini.

Ibimera biri mu moko atandukanye birambitse ahantu hasi ku kantu kameze nk'agasambi, biri mu tuntu tubumbye mu ibumba, akaba ari imiti y'amoko yose yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Ibimera bitandukanye biri ahantu, harimo tungurusumu ndetse n'ibindi, biri mu bwoko bw'ibyatsi byifashishwa mu buvuzi bwa gakondo.

Igihingwa kirimo ubwoko bwa tungurusumu, zikaba zifashishwa mu gutunganya amafunguro ndetse zifashishwa no mu buvuzi gakondo.

Igiti kiri mu murima gifite utubabi dutoya cyane, gikikijwe n'utundi tumera dufite ibibabi ariko tukaba tutarakura.

Ikarito igaragara iteretse ahantu hasi, ikaba yifashishwa mu kubika imiti, inyuma handitseho amagambo yerekana ibiba birimo imbere.

Agacupa gateretse gacuritse, akaba gasa umweru, kandiditseho amagambo manini atandukanye, hari ayanditse mu ibara ry'icyatsi ndetse n'andi yanditse mu ibara ry'umukara.

Agacupa gatoya, gasa nk'aho kifashishwa mu kubika imiti runaka cyangwa amavuta, kakaba gashushanyijeho amagambo, amwe manini ari mu ibara ry'icyatsi.

Igishushanyo cyerekana ibihingwa by'amoko atandukanye, akaba ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hariho n'udushushanyo twerekana uburyo bigenda bikoreshwa.

Utuntu tubikwamo imiti y'amoko yose tugaragara, hari icupa rikozwe muri purastike, hari igikombe gifite umufuniko w'ubururu, hari udukarito turiho amabara atandukanye, agacupa gatoya gafite umufuniko w'umukara.

Agacupa k'umweru gatoya, hakaba hariho icyapa kiriho akantu kameze nk'agasimba kari kuguruka, hakaba hariho amagambo aranga ibintu bijyamo.

Ameza ateretseho amoko menshi atandukanye yifashishwa mu kuvura, hari akantu gateretse hagati basa nk'aho bifashisha basekura iyo miti.

Akabido gatoya kagaragara kari mu ibara ry'ubururu, kakaba gafite umufuniko ujya gusa icyatsi, inyuma hakaba hashushanyijeho ibimera n'amagambo ari mabara atandukanye.

Umudamu uhagaze ahantu hameze nko mu murima, akaba akikijwe n'ibiti binini, imbere yiwe akaba afite ikimera yakojejeho ikiganza cyiwe ku kababi.

Udukarito dutandukanye turiho amagambo ashushanyije inyuma, ari mu mabara y'umweru, ari mu mabara y'umukara, inyuma haragaragara inanasi, iruhande hakaba hari imineke.

Kiriho ibimera bitandukanye hariho avoka imwe yose n'indi y'igisate imbere kandi hagaragaraho isabune y'umweru, hakaba hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'umweru.

Agakarito kagaragara kari mu mabara atandukanye ay'umweruru, ubururu, n'icyatsi, hakaba handitseho umubare makumyabiri na kane ndetse na karindwi ndetse n'amagambo yandi yanditse mu mabara y'umweru.

Agakarito kagaragara inyuma, kariho amagambo yanditswe mu ibara risa umweru, hari n'andi ari mu ibara rijya gusa umuhondo ndetse n'irindi riri mu ibara rijya gusa ubururu bwacuye.

Umuntu uri ahantu mu cyumba inyuma yiwe hari akabati kabikwamo imiti y'amoko itandukanye bifashisha mu kuvura ababagana mu ntoki afite akantu ari kureba.

Uducupa dutatu duteretse, kamwe kakaba kari mu ibara ry'umuhondo, utundi tubiri turi mu ibara ry'umweru, inyuma handitseho amagambo agaragaza ibiri mo imbere.

Abantu bari kugenda mu ishyamba, bahetse ibikapu bose, imbere yabo hari amazi menshi cyane, ari kumanuka ava ku musozi hejuru, impande hari ibiti.

Ibintu biteretse ku meza y'urubaho ashasheho agatambaro, akaba ari agasahani gakozwe mu idongo ndetse n'itasi irimo ji, ku ruhande hakaba hari igihingwa cya tangawizi.

Intoki zifashe uduti cyangwa se icyo twakwita ikimera, biteretse mu kirahure, hakurya yaho hakaba hari akandi gakombe katagaragara neza, biteretse ku meza.

Agacupa gateretse hasi k'umweru kakaba inyuma hashushanyijeho amagambo manini ari mu ibara ry'umukara ndetse hejuru hakaba hagiye hariho n'utundi tubara tw'umutuku.

Ikimera kiri ahantu mu murima kigaragara nkaho kitarakura cyane, gifite utubabi tw'icyatsi dutoya, hariho n'utundi tumeze n'ururabo dusa umutuku n'agahondo gake.

Ikusanyirizo ry'ahantu batera imiti mu mashashi hakaba hari abantu benshi batandukanye inyuma hari umugabo wambaye ipantaro y'ikoboyi n'umupira usa nkaho ari kwerekera abandi.

Ibimera bitandukanye, byatsi bigaragara birambitse ahantu bigasa nk'aho ari imiti yifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, hakaba agasekuru bafata mu kiganza n'agahini basekura ibirimo.

Icyumba cyo kwa muganga gisa nk'aho ari ububiko bw'imiti, harimo umuganga w'umudamu wambaye itaburiya y'umweru, n'utubati turimo imiti y'amoko yose.

Ikimera cyifashishwa nk'imbuto bita ipapayi kigaragara, hari ikiri yose ndetse n'indi isatuyemo kabiri, mo imbere hakaba harimo utubuto tw'umukara.

Uducupa dutatu dutandukanye kamwe kari mu ibara ry'umuhondo, hari amagambo akanditse inyuma ari mu ibara ry'umutuku, utundi tubiri tukaba turi mu mabara y'umweru.

Agacupa gatoya kagaragara ni umweru, gusa inyuma hari icyapa kikometseho kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara gasa nka kifashishwa mu kubika umuti.

Uducupa tw'amoko atandukanye, hari udukoze mu cyuma utundi dukozwe muri purastike, tukaba twifashishwa mu kubika imiti cyangwa n'ibindi bintu by'ingenzi bitandukanye.